Abantu bicaye ku ntebe z'icyatsi ndetse bakikije ameza ariho amatasi y'umwer, hateretseho impapuro, muri bo hari umugabo wambaye ishati y'umweru na karuvati n'ipantaro by'umukara ndetse na marineti.

Abantu bicaye mu ntebe zirimo ibyatsi ndetse hari abafite impapuro kandi iruhande rwabo haparitse imodoka, inyuma yabo hari inzu isize irangie ry'ubururu ndetse hariho n'amagambo yanditseho avuga ngo Gira ubuzima.

Abana bari kuvomero bahagaze imbere yaryo, hari utujerekane dufite ibara ry'umuhondo dutatu, inyuma yabo hari amabuye ndetse hari n'ibiti n'ibyatsi by'amoko atandukanye, ruguru yabo hari imodoka ihaparitse ifite ibara ry'umweru n'amapine y'umukara.

Umubyeyi wicaye akikiye umwana ku bibero kandi yambaye agagofero gato gafite ibara ry'icyatsi na orange. Imbere yaho hari umuganga wunamye yafashe umwana ku matama agiye kumuha imiti ndetse inyuma yaho hari urugi rufite ibara ry'icyatsi.

Abana bahagaze bafite ibikombe mu ntoki. Abandi ibiganza byabo bifashe ku meza abari imbere. Inyuma yabo hari igiti ndetse n'inyubako zifite amabati afite ibara ry'ubururu. Hakurya yabo hari umusozi uriho ibyatsi ndetse n'amazu.

Umukobwa usutamye inyuma ye hari imyenda imanitse ku mugozi ifite amabara atandukanye, ifite ibara ry'umukara, ubururu ndetse ku ruhande hari n'inzu yubakishije amabati y'umutuku, afite injerekani ifite ibara ry'umuhondo.

Umuganga wunamye ari guha umwana umuti wambaye ingofero ifite ibara ry'icyatsi na oranje, uwo mwana akikiwe n'umubyeyi uri guseka ndetse wambaye ibitenge, hirya yabo hari urugi rufite ibara ry'icyatsi.

Abagore bari mu cyumba gifite inkuta zishushanyijeho ibintu bitandukanye, hariho ahashushanyije inzu, igiti ndetse muri bo harimo uwambaye ishati y'amabokoku magufi, ifite ibara ry'umweru, hagati yabo hari ameza.

Abana bari ku ivomero bateretse injerekani ifite umupfundikizo w'umutuku, ufite n'ibara rya oranje, hari umwana wambaye agapira k'amaboko magufi, ufite ibara ry'umutuku n'ikabutura ifite ibara ry'ubururu, yambaye bote z'umukara afite inkoni mu ntoki...

Abantu bicaye mu ihema rifite ibara ry'umweru, icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu. Kandi mu bicaye hari umugore wambaye amarinete n'ipantaro y'umukara, imbere ye hicaye akana gato, hari umugabo ubahagaze imbere ufite mikoro, kandi hirya yabo hari abandi bantu bitwikiriye imitaka.

Abantu bahagaze kuma esikariye ku ruhande rw'iburyo hari umugore wambaye ijipo y'umukara ndetse n'ikote, yegeranye n'umugabo wambaye amarinete na baji mu gatuza kandi yambaye ikositime, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'amagambo yandikishije ibara ry'umweru.

Umugore ukikiye umwana wambaye ibitenge ndetse iruhande rwe hari umuganga wambaye itaburiya na ga mu ntoki bifite ibara ry'umweru afashe ku gahanga k'umwana ndetse umwana yashinyireje.

Abana basutamye ibiganza byabo byombi babishyize ku ipombo iri kuzana amazi harimo uwambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umutuku ndetse n'ikabuturara, hari n'undi wambaye imyenda idodesheje mu bitenge.

Abantu bicaye bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo umugore wambaye ikanzu ifite ibara ry'umutuku ndetse ku ruhande rwe rw'ibumoso, hari agatuti gafite ibara ry'umweru n'ubururu.

Umuganga wambaye itaburiya na ga bifite ibara ry'umweru ndetse yambaye n'isaha mu kuboko kw'ibumoso. Yicaye mu ntebe ndetse imbere ye hari ameza ateretseho telefoni, ikaramu, n'impapuro. Inyuma yabo hari ikibaho ndetse n'igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Abantu bicaye mu ntebe zifite ibara ry’umutuku bakikije ameza ariho agatambaro, ndetse kuriyo meza hatetseho uducupa tw’amazi n’ibitabo bifite ibara ry’ubururu. Imbere hari umugore ufite ibisuku ndetse yambaye agapfukamunwa k’umukara.

Umugabo wambaye amarinete ndetse n'agapira k'amaboko magufi ka oranje, inyuma kanditse mu magambo afite ibara ry'umweru. Iruhande rwe hari umubyeyi uhicaye ukikiye umwana ndetse yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umukara. Hirya yabo hari abandi bantu bahicaye ndetse n'undi mugore wambaye ingofero ifite ibara rya kacyi.

Abana bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari ameza, hari uwazamuye ukuboko yatunze urutoki hejuru kandi ukuboko kwe kw'ibumoso yagushikamishije ku meza abari imbere, inyuma yabo hari igikuta kiriho ikibaho.

Abasore babiri bahagaze barebana, umwe yamba agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu ndetse mu ijosi afite baji ifite ibara ry'umutuku, undi yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara rya kacye.

Abagore baje kw,iriba haruri kudahira amazi mundobo y'icyatsi kandi hari ukenyeye igitenge yambaye isengeri y'umweru imbere ye hahagaze undi wambaye agapira karimo ibara ry'umutuku umukara n'ubururu aho bari hazitiwe n'igipangu ndetse nyuma yacyo hari igiti.

Abantu bahagaze mu ibaraza ry'inzu imanitsemo itara hejuru ndetse ifite inzugi n'amadirishya by'ibirahure, harimo umugabo uhagaze ku ruhande rw'iburyo ufite telefone mu ntoki, yambaye ishati ndetse mu mufuka wayo harimo ikaramu yegeranye n'umugore wambaye marinete kandi yambaye n'ipantaro y'umukara.

Umuntu uri guseka ateze, amaboko kuri kandagira ukarabe ndetse imbere ye hari akajerekani, yambaye ingofero, akenyeye igitenge, inyuma ye hari umuryango ukinguye.

Umwana uri ku mugezi afite akajerekani ari kuvoma. Hejuru ye hari undi upfukamye kuri simandetse arunamye, hirya yabo hari abanyeshuri bambaye impuzankano kandi hari ibyatsi.

Umugabo wambaye ijire n'agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umutuku hirya hari undi wambaye ishati y'umweru kandi hari undi wicaye wambaye ingofero, inyuma ye hari abana kandi hari inzu ifite amadirishya.

Umwana uteza igikombe kuri robine ari kuvomeramo amazi, yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya oranje ndetse hasi yambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, ari guseka kandi hirya ye hari ibyatsi.

Abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku ndetse imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umukara ateretseho amazi ari mu ducupa tw'inyange, kandi hariho n'ibitabo bigiye bitandukanye.

Umugore wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru n'amaboko magufi ateza agatambaro mu mutwe imbere yambara mo umupira w'amaboko maremare ufite ingofero ifite ibara ry'umukara na kake, imbere hahagaze abagore batatu bateze ibitambaro mu mutwe, harimo uwambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umutuku, ndetse n'uwikenyeye agatambaro gafite ibara rya oranje.

Umugore wambaye agapira k'amaboko magufi ndetse akenyera n'igitenge, ateruye umwana kandi yambaye ingofero ifite ibara ry'umweru, ari kuvomera mu ndobo y'umukara kandi inyuma ye hari ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi.

Umugabo wambaye amarinete na kositimu ndetse na karuvati, yegeranye n'umugore wambaye agapira k'amaboko magufi, gafite ibara ry'ivu n'ipantaro y'umukara, mu biganza byabo bombi bafashemo umwenda wanditseho "Visit Rwanda".

Umugore wifashe ku nda, afite ibisuko ku mutwe, yambaye agapfukamunwa n'agashati k'amaboko magufi by'umweru, yicaye ku ntebe, ku ruhande rwe hari umuganga wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umweru ndetse n'isaha ku kuboko kw'ibumoso.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ivu, bakikije ameza ariho agatambaro k'umweru, hari umugabo wambaye kositime ifite ibara rya beji kandi hari umuntu wageretse ukuguru k'ukundi ufite telefone mu ntoki, hari mudasobwa iteretse ku meza.

Umwana uri ku ivomero rimwe rifite amarobine abiri, ateze ikiganza ari kunywa amazi, yambaye agakabutura gafite ibara ry'umutuku n'inkweto z'ibara ry'ubururu, inyuma ye hari ibyatsi ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye.

Abantu bicaye harimo umugabo wambaye amarinete, ufatanyije ibiganza abitereka ku meza ariho agatambaro gafite ibara ry'umuhondo, gateretseho uducupa tw'amazi, ku ruhande rw'ibumoso hari idarapo ririmo amabara y'ubururu, umutuku n'icyatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu bambaye imyenda itandukanye, hari ahagaze mu ihema rifite ibara ry'umweru kandi hari idarapo rihagaze hagati muri bo rifite ibara ry'umuhondo, icyatsi n'ubururu. Hirya yabo hari inzu yubakishije amabuye ndetse isize irangi ry'umweru.

Ibara ry'ubururu ririmo amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, hari ikirango cya unisefu ndetse n'akarongo gatandukanya amagambo yanditse hejuru n'amagambo yanditse hasi.

Abantu bicaye bakikije ameza ateretseho ibikombe by'ibirahure birimo ji ifite ibara ry'umuhondo ndetse hariho n'impapuro nyinshi n'ikaramu kandi giteguyeho igitambaro gifite ibara ry'icyatsi.

Ibikuta bisize irangi ry'umuhondo, ndetse hometseho ibipapuro bifite ibara ry'umweru, hari abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo bafite ibitabo, ndetse hirya yabo hari umuryango.

Abantu bahagaze harimo abambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umugore wambaye ikanzu ifite ibara ry'umutuku n'amarinete, yitandiye agatambaro gafite ibara ry'umweru, ku ruhande rwabo rw'ibumoso hari icyapa cyiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, kandi inyuma yaho hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Umugore ufite igikapu cy'imishumi ifite ibara ry'umukara mu kuboko kw'ibumoso, yambaye agapira gafite ibara ry'ubururu k'amaboko magufi amarinette ndetse yambaye ugutwi n'ihena, inyuma ye hari undi muntu wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso afite igipapuro mu ntoki,

Abantu bahagaze hagati yabo hariho ameza hariho ibitabo bitandukanye, mu bahagaze harimo umusaza wambaye amarinete ufite imvi mu musatsi we kandi hirya yabo hari umuntu wambaye ishati y'umweru, uri gufotora n'inyuma yabo hariru undi wambaye karuvate.

Umwana wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu, kandi iruhande rwe hari umuganga wambaye ishati y'amaboko ndetse na ga hamwe n'itaburiya, mu ijosi yambayemo baje ifite umushumi ufite ibara ry'ubururu. Ari gutera urushinge umwana ku kuboko kw'ibumoso.

Abana bari kuri robine zifunguye bambaye impuzankano harimo abambaye amajipo ndetse n'abambaye ama kabutura byose bifite ibara rya kacyi, hari umwana wambaye agapira k'umutuku mo imbere, inyuma yabo hari ibyatsi hamwe n'ibiti.

Umwana uteruye indobo ifite ibara rya oranje ndetse ipfundikiye, imbere ye hari robine enye ndetse n'umuntu uhahagaze wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu hirya ye hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Abana bari ku ivomero hari amarobine menshi, bafite indobo zifite ibara ry'umuhondo, hari uwambaye agapira k'umutuku mo imbere, bambaye amajipo n'amakabutura ya kaki, inyuma yaho hari ibiti ndetse n'ibyatsi by'amoko atandukanye.

Imbaga y'abantu bahagaze, abandi bicaye bambaye imyenda y'amabara atandukanye, hari ifoto iriho imigozi ijyana amashanyarazi ndetse n'inzu isakarishije amabati hariho n'amakostara hirya yaho hari imodoka ihaparitse ndetse hari n'idarapo rifite ibara ry'ubururu umuhondo n'icyatsi.

Abantu bicaye ku ntebe, harimo abambaye udupfukamunwa ndetse n'abandi bafite impapuro mu biganza, hari n'abandi bahagaze begereye ameza, hejuru hari parafo ndetse n'amadirishya arimo ibirahure.

Abantu bicaye ku ntebe, hari umugabo ufashe ku rutugu rw'umugore wambaye agakoti gafite ibara ry'umukara, ndetse hari umuganga ubicaye iruhande, wambaye igitenge n'itaburiya ifite ibara ry'ubururu y'amaboko magufi.

Umwana ufite icupa ndetse yambaye ikanzu ifite amaboko magufi idodesheje mu gitenge, imbere ye hari igikuta kiriho irangi ry'umukara ndetse cyubakishije amatafari ahiye.

Abantu bahagaze kumayesikaririye bambaye udupfukamunwa, harimo abambaye amataburiya y'amaboko magufi afite ibara ry'ubururu kandi inyuma yabo hari ibyapa bitatu bitandukanye, harimo gifite ibara ry'umuhondo, umweru ndetse n'ikindi gifite ibara ry'ubururu.

Abana barambuye amaboko yabo bayashyira kuri robine, harimo abambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi kandi hari n'umwana wambaye agakote gafite ibara ry'umutuku, yegeranye n'undi wambaye irifite ibara ry'ubururu n'umukara, hirya yabo hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Umugore wambaye agapfukamunwa n'amarinete, yambaye ga mu ntoki zifite ibara ry'ubururu, inyuma ye hari undi wambaye ipantaro ifite ibara ry'umukara ndetse n'ingofero, imbere ye hari umugore uteruye umwana uri mu myenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'andi mabara.

Umugore wambaye umupira n'agafukamunwa gafite ibara ry'umukara kandi yambaye ingofero mu mutwe, mu ijosi harimo umugozi w'agasakoshi afite ufite ibara rya move. Iruhande rwe hari umuganga uri kumutera urushinge ku kuboko kw'iburyo ndetse hari ameza ateretseho impapuro na terefone. Inyuma yabo hari abandi bantu bicaye.

Abantu bahagaze mu mapavi, bambaye amataburiya afite ibara ry'ubururu n'amoboko mugufi, bafite telefone mu ntoki, ndetse hari umugabo wambaye ikote, n'ipantaro ndetse mu imbere yambayemo umwenda ufite ibara ry'umweru, inyuma yabo hari ibiti.

Abagore bari ku ipombo, bari kuvoma amazi, harimo uwambaye isengeri y'umweru ndetse n'undi ukenyeye igitenge uri hirya ye, wambaye n'agapira karimo ibara ry'umutuku, umukara n'ubururu ndetse hari n'undi uteze agatambaro mu mutwe, wunamye, ari kuvomera indobo, hirya yabo hari igikuta hamwe n'igiti.

Abantu bari kuri robine, bamwe bafite indobo zifite amabara atandukanye, iy'umweru, iy'umutuku, n'iy'ubururu, kandi hari n'undi ufite injerekani ifite ibara ry'umuhondo, inyuma ye hari umufashe ku rutugu, hirya yabo hari ibiti.

Abana bafatanye ku rutugu, bambaye udupira turimo ibara ry'ubururu ndetse twanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umweru n'umukara. Inyuma yabo hari urugi rufite ibara ry'ubururu ndetse n'igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Abagore babiri bicaye mu ntebe z'umukara, harimo uwambaye ishanete mu ijosi, ndetse atezeho igitambaro gifite ibara ry'umuhondo, amaboko ye yayashyize ku meza abari imbere, undi yambaye ikote ndetse n'isaha ku kuboko kw'ibumoso.

Abantu bari kumugezi bahagaze abandi baricanyi, hari umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'umutuku kandi hari n'injerekani zifite amabara atandukanye harimo iry'umuhondo, icyatsi ndetse n'umukara, hari n'amabase, hirya yabo hari inzu n'ibiti.

Umugore ukikiye umwana ku bibero, ukenyeye agatambaro karimo amabara atandukanye harimo iry'umutuku, imbere ye hari umuganga wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru, afashe ku itama ry'umwana ndetse umubyeyi we afashe ku gahanga k'umwana.

Ababyeyi bateruye abana inyuma yabo hari igikuta gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'idirishya imbere hari umubyeyi wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu ndetse yambaye shanete mu ijosi n'ihena ku gutwi yambaye isaha ku kuboko ateruye umwana wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Umuntu usutamye, yambaye ipantaro n'inkweto z'umukara ndetse n'agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya oranje, afashe umwana umuhagaze imbere wambaye ipantaro ifite ibara ry'ubururu ndetse n'amasogisi afite amabara atandukanye, inyuma yabo hari umuntu wambaye impeta ku kiganza cy'iburyo.

Abantu bahagaze bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, ndetse na mudasobwa, n'umugozi wayo. Ku gikuta cyinyuma yabo hejuru y'urugi hari amagambo yanditse mu nyuguti zifite ibara ry'umutuku ndetse n'izifite ibara ry'ubururu avuga ngo, "uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu"

Umuganga wambaye iherena ku gutwi ndetse yambaye itaburiya y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru, imbere ye hicaye abagore harimo uteze igitenge mu mutwe ndetse yambaye n'ishati ifite ibara ry'umutuku, hari undi umwegereye wifubitse agatambaro gafite ibara rya oranje ndetse n'undi uri hirya wambaye inkweto zifite ibara ry'ubururu.

Abantu batatu harimo babiri bambaye amatabuririya afite ibara ry'ubururu kandi mu ntoki zabo bafitemo udukarito tubiri dusa, urimo hagati yambaye amarinete ndetse n'itaburiya ifite ibara ry'umweru.

Abana bahagaze harimo ufite impapuro mu ntoki ndetse yambara agapira k'amaboko karimo ibara ry'umweru n'umukara, inyuma ye hari undi umufashe mu ijosi wambaye agapira gafite ibara ry'umutuku, hari umugore n'umugabo bahagararanye umugabo yambaye kositimu.

Abana bicaye ku mukeka barambije harimo abambaye udupira dufite ibara ry'ubururu n'abandi bambaye utw'umuhondo. Hicayemo umubyeyi wambaye amarinete kandi inyuma yabo hari ameza ndetse n'abantu bahicaye hirya yabo hari igikuta gisize irangi ry'umuhondo hamwe n'idirishya ry'ibirahure.

Umugabo wambaye kositimu ndetse na karuvati imbere ye hari agatuti afasheho gafite ibara ry'umweru n'ubururu, ku ruhande rwe rw'iburyo hari intebe ndetse n'utumeza duto dutetseho amazi turiho na mikoro, kuruhande rwe rw'ibumoso hari iyi ivaze iteretsemo ibyatsi.

Abana bahagaze ku iriba, hari uri kuvoma wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu n'undi uhagaze wambaye inkweto zifite ibara ry'ubururu n'ikabutura y'ibara ry'umweru n'umukara n'umutuku, ndetse inyuma yabo hari ibyatsi byinshi.

Umwana wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu harimo n'uturongo tw'umukara, afite isabune mu ntoki ari gukaraba amazi ndetse uri kumusukira afite ijage ifite ibara ry'icyatsi mu kuboko kw'iburyo.

Umugore wambaye agapfukamunwa ndetse n'umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu ku maboko uriho uturongo tw'ibara ry'umweru n'umukara, imbere ye ari umwana wambaye ishati ya kaki y'amaboko magufi arimo gukarabya mu biganza kandi inyuma y'abo hari ibiti.

Abantu baje kuvoma harimo uhagaze imbere y'injerekani ziri ku murongo ndetse yegamye ku ivomero. Hari n'undi wambaye ibitenge n'ishati y'amaboko magufi ndetse ateze agatambaro mu mutwe yafashe ku gikuta cy'inzu ibegereye.

Abantu bahagaze ku murongo w'imbere n'uw'inyuma, higanjemo abambaye imyenda ifite ibara ry'umukara ndetse harimo n'abambaye ifite ibara ry'umweru inyuma yabo hari igikuta gifite ibara ry'umweru, kiriho icyapa cyandikishije inyuguti ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Umusaza wambaye ingofero ndetse yambaye n'ishati y'amaboko idodesheje mu gitenge, inyuma ye hari akana kahahagaze kambaye isengeri y'ubururu ndetse imbere hari muganga wambaye agapfukamunwa na ga ndetse n'itaburiya, inyuma yabo hari igiti gifite ibibabi byinshi.

Abagore bicaye imbere yabo hari ameza ariho amakayi, babiri bafite amakaramu mu ntoki bari kwandika, umwe yambaye agatambaro mu mutwe n'iherena ku gutwi, hirya yabo hari n'undi wicaye, imbere ye hari igitabo gifite ibara rya pinki ndetse n'andi mabara agiye akirimo.

Abana bicaye bambaye udupira dufite ibara rya oranje harimo umuntu wambaye ingofero ndetse n'ijirire bifite ibara rya kake afite igikombe ari kubanywesha hari n'undi wambaye ingofero y'ubururu ndetse n'uwambaye ifite ibara ry'umukara inyuma yabo hari abantu bahagaze harimo ufite telefone mu kuboko kw'iburyo n'abagore bateze ibitambaro mu mutwe bifite ibara ry'umutuku.

Umwana wambaye imyenda afite ibara ry'ubururu, mwo imbere yambayemo ishati ifite ikora ari k'urukarabiro ari gukaraba intoki, ndetse inyuma ye hari amazu n'ibiti bitandukanye.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya oranje, harimo n'akabara k'umweru, imbere ye hari umwana uhahagaze bafatanyije ibiganza, inyuma yabo hari abantu bicaye, ndetse n'undi uhagaze hari ibyatsi n'ibiti by'amoko atandukanye.

Umuntu wambaye amarinete wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya oranje n'ipantaro y'umukara, mu kiganza cye cy'ibumoso ateruye isahani ndetse imbere ye hari umwana wambaye agapira nawe gafite ibara rya oranje akikiwe n'umubyeyi.

Abantu bari kw'ivomero harimo umwana ari kuvomera injerekani wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umutuku ndetse hari n'umugore wambaye agatambaro mu mutwe gafite ibara rya beje n'umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'icyatsi, hirya yabo hari abantu bahagaze harimo umugore uteruye umwana ndetse hari n'ibyatsi n'urutoki.

Umwana uri ku ivomero ari gukaraba intoki ndetse yambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku, imbere ye hari icyapa cyometse ku ivomero gifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara rya oranje.

Abantu bahagaze mu itente ifite ibara ry'umweru, harimo abambaye imipira y'amaboko magufi y'ubururu, imyeru ndetse hari n'umugore wambaye ikanzu ifite ibara ry'umukara harimo n'utudomo tw'umweru, hari umwana w'uruhinja uryamye hagati yabo.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu, bambaye imyenda itandukanye, hari abambaye amashati y'umweru ndetse n'abambaye amakoti afite ibara ry'umukara, hagati muri bo hari ameza ateretseho ibintu bitandukanye, harimo impapuro ndetse n'uducupa, ameza afite ibara ry'umukara.

Umwana usutamye imbere y'iriba kandi ibiganza bye yabiteze kuri robine iri kuzana amazi ndetse hari ijerekani zifite ibara ry'umuhondo n'indi ifite ibara ry'ubururu, yapfundikishije umupfundikizo w'umutuku, hirya ye hari ibyatsi n'ibiti.

Abantu bahagaze ndetse n'abandi ba bicaye imbere, harimo abambaye baji zifite imishumi y'ubururu, kandi hari abambaye amataburiya y'umweru, inyuma yabo hari icyapa kimanitse ku nzu ibari inyuma ifite inzugi n'amadirishya.

Abantu bicaye muganga w'umugore afite umusatsi wumukara yafungiye inyuma ndetse uw'umugabo yambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru, bose bambaye ga mu ntoki, hagati yabo hari umugore uteze agatambaro gafite ibara ry'umweru mu mutwe, ndetse n'ikote rifite ibara ry'umukara.

Abantu bahagaze ndetse n'undi wicaye hagati yabo hari ameza hariho ingofero ndetse n'igitambaro gifite ibara ry'umweru hatetseho na mudasobwa hirya yabo hari umuryango ukinguye ndetse n'idirishya inyuma yabo hari ibitambaro bifite ibara ry'umuhondo n'ubururu.

Abantu bahagaze munsi y'ibiti bibakikije, harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru kandi imbere yambayemo ishati na karuvate, hari n'undi wambaye amarinete ari guseka afashe ku ntugu z'abantu bamwegereye yambaye kositimu z'umukara kandi abamukikije bose bambaye amataburiya y'umweru y'amaboko magufi.

Abantu bicaye mu nzu ifite ibikuta byubakishije amatafari ahiye ndetse ku rukuta hagiye hometseho impapuro zishushanyijeho abantu batandukanye.

Abantu bicaye mu ntebe zifite ibara rya beje, ku ruhande rw'iburyo hari umugabo ugeretse ukuguru ku kundi wambaye ipantaro y'umukara, iruhande rwe hari umugore uhicaye wasobekanyije amaguru.

Abaganga bambaye udupfukamunwa ndetse n'imyenda ifite ibara ry'ubururujuru mu mutwe bambayemo udufire hari intebe iticayemo umuntu ndetse hari amakaro imbere ya muganga hari mudasobwa iteretse ku meza.

Umwana wateze ibiganza kuri robine ari kunywa amazi andi ari kugwa mu indobo imuteretse imbere ifite ibara ry'ivu, yambaye agakabutura gafite ibara ry'umutuku kandi hirya ye hari ibyatsi ndetse n'ibiti, kandi hari inkingi zisize irangi ry'umweru n'ubururu.

Abagore bicaye bakikiye abana ndetse hari n'abandi bahagaze imbere yabo, hari umuganga usutamye wambaye agapfukamunwa n'itaburiya y'amaboko ifite ibara ry'umweru ndetse hari umugozi uca hejuru y'abo.

Abantu bicaye ku ntebe z'icyatsi bakikije ameza afite ibara rya kaki, kandi ateretseho amatasi ari ku dusahani dufite ibara ry'umweru. Muri bo hari umugabo wicaye ku ruhande rw'ibumoso, wambaye ishati y'umweru, ndetse na karavati n'ipantaro bifite ibara ry'umukara.

Abantu bahagaze munsi y'igiti ndetse harimo uwicaye ku ntebe y'umutuku ufite impapuro mu ntoki, hari umuri inyuma wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ryicyatsi hamwe n'undi umuri imbere wambaye ijire y'umutuku.

Umwana uri kuvomera injerekani ifite ibara ry'umuhondo kandi iruhande rwe hari izindi, yambaye agapira k'amoboko magufi, ikabutura ifite ibara rya pinki ndetse inyuma ye hari ibyatsi hamwe n'insina.

Abantu bahagaze harimo abambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'abandi bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye kandi ifite n'amadirishya, hirya yabo hari ibyatsi.

Umwana wunamye ari gukaraba intoki kuri robine, yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ikabutura. Imbere ye hari indobo ipfundikiye Ifite ibara ry'ubururu kandi inyuma ye hari n'indi, hirya ye hari ibiti n'ibyatsi

Inzu isakashije amabati y'umutuku, hariho amadirishya n'inzugi biri ku murongo. Isize irangi ry'umweru ndetse imbere yayo hari ahandi hubakishije ibyuma bisize irangi ry'ubururu, hariho n'amayesikariye.

Abantu bahagaze kuri tapi y'icyatsi kandi bari mu ihema rifite ibara ry'umweru. Hari abana babari imbere bambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu ndetse n'udushati tw'amaboko magufi. Inyuma yabo hari umugore ufite imisatsi, wambaye itaburiya kandi hirya yabo hari umuntu uri gufotora.

Umuntu wicaye ku buriri wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ku mpande ze hari abaganga b'umugore yambaye amarineti ndetse n'isaha ku kuboko, yambaye itaburiya y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru, uri kuru rundi ruhande rw'iburyo, afite igitabo mu ntoki.

Umuntu usutamye imbere ya robine, yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya pinki, ari kuvomera amazi mu ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, inyuma iriho igipapuro gifite ibara ry'umutuku, ndetse inyuma y'uwo muntu hari imyenda imanitse ku mugozi irimo amabara atandukanye hirya ye hari inzu isakashije amabati ndetse imbere ye hari ibiti.

Abantu bahagaze ku ipombo hari umugore wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'icyatsi, ateze igitambaro mu mutwe gifite ibara rya beje ndetse hari n'umwana uteze ijerekani ari kuvoma, yambaye agapira gafite ibara ry'umutuku, hirya yabo hari ibyatsi ndetse n'insina.

Abantu bicaye imbere yabo hari ameza aho igitambaro gifite ibara ry'umukara, hateretseho uducupa dufite ibara ry'ubururu n'umweru, kandi hari abafite mudasobwa ziteretse imbere yabo, inyuma yabo hari amalido afite ibara ry'ubururu.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara rya kaki ndetse ukuboko kw'ibumoso yagunye, muganga umuri iruhande wambaye ga afite urushinge ari kurumutera kandi inyuma ye hari undi muntu uhagaze hamwe n'undi wicaye wambaye amarinete n'ameza ariho ibitambaro bfite ibara ry'icyatsi.

Umuntu uri kuvomera injerekani ifite ibara ry'umuhondo, yambaye imyenda ifite ibara rya pinki, kandi iruhande rwe hari abana, hari uwazamuye ukuboko ndetse ukundi agufatisha ku nda, yambaye agapira karimo amabara atandukanye harimo iry'umutuku.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda ifite ibara rya shokora ndetse n'ishati y'amaboko magufi ifite ibara rya orange imbere ye hari indobo ifite ibara rya shokora ndetse hirya ye hari abandi bahagaze n'igiti gifite amashami menshi.

Abantu bicaye bakikije ameza, hirya yabo hari idaraporo irimo amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi ndetse hari n'ibikuta bifite ibara ry'umweru, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari amacupa.

Abantu bahagaze bambaye amataburiya y'amaboko magufi, kandi hari umugore wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, ndetse no ku rutugu rwako yambayeho agasakoshi gafite ibara ry'ubururu. Inyuma yabo hari inzu isize irangi risa beje, kandi hari amagambo yanditseho avuga ngo ikigo nderabuzima cya Mayange, hirya hari ibiti.

Abantu bicaye ku ntebe z'imikara imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru hari terefone iteretseho icometse kandi hateretseho n'uducupa tw'amazi ya nili, inyuma hari amadirishya ndetse n'irido rifite ibara rya shokora.

Abantu bicaye ndetse n'abandi babiri bahagaze. Muri bo hari umugore uteze agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umweru. Yambaye n'umwenda ufite ibara ry'ubururu. Akikiye umwana ku bibero. Imbere yabo hari umugabo ufite ikaramu mu ntoki ndetse yambaye ikote n'ipantaro bifite ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye ingofero ndetse n'umupira bifite ibara ry'ubururu yambaye agapfukamunwa afashe ku njekani yikorewe n'umwana ndetse ipfundikije umukanana . Imbere yabo hari undi muntu wambaye ishati ifite ibara ry'umweru ndetse afite telefone mu ntoki ari gufotora, inyuma yabo hari n'abandi bantu bahagaze.

Abantu basutamye n'abandi bahagaze mu byatsi inyuma yaho hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye, hariho icyapa gifite amabara atandukanye, hariho iry'ubururu umuhondo icyatsi ndetse na pinki.

Umwana uri ku ipongo ari gukaraba intoki, ndetse imbere hari ibase rifite ibara ry'ivu. Yambaye imyenda idodesheje mu gitenge kirimo ibara ry'umweru, umutuku n'umukara. Inyuma ye hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Abantu bahagaze ndetse n'abandi bicaye, imbere yabo hari ameza ariho agatambaro gafite ibara ry'icyatsi gateretseho agacupa ndetse hari n'umuntu ufite ikaramu mu ntoki n'impapuro ari kwandikiraho, inyuma yabo hari idirishya rifite ibirahure na giriyaje.

Abana bahagaze harimo abambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku ndetse n'abafite imyenda ifite ibara ry'ubururu n'undi wambaye ishati y'umweru, bakikije umubyeyi wambaye amarinete ndetse uteze agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'andi mabara.

Umugabo wambaye ikote ry'amaboko maremare rifite ibara ry'umweru n'umukara hari injerekani zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umugore witeza agatambaro mu mutwe, inyuma yabo hari umukobwa washikamishije amaboko ku iriba yambaye agapira k'amaboko magufi k'umweru ndetse nyuma yaho hari ibiti.

Abantu bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umukara ndetse na kake harimo umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi ndetse n'umugore uteze agatambaro mu mutwe gafite ibara rya orange imbere hari uhahagaze ndetse hari na televiziyo .

Umugore wicaye ukikiye umwana ku bibero ararambije. Mu mutwe ateze agatambaro gafite ibara rya oranje, iruhande rwe hari umwana uhicaye ndetse imbere ye hari urutara hamwe na mironko ifite ibara ry’ umutuku.

Umukecuru wicaye ku gabasongabugari, imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye, afite inzugi n'amadirishya, aratetse ndetse iruhande rwe hari igikombe gifite ibara ry'icyatsi, hirya ye hari urutok.i

Umugore wicaye ku gatebe akenyeye igitenge ndetse ahetse umwana mu ngobyi ifite ibara ry'umweru. Aratetse kandi yambaye agapfukamunwa yamanuye hasi ku kananwa. Iruhande rwe hari umwana umufashe ku kibero.

Umugabo wunamye yambaye ikositimu ye ndetse imbere ye hari ururabo rufite amabara atandukanye harimo; icyatsi, umweru ndetse na orange. Kandi hari n'umugore uhahagaze wambaye ijire ifite ibara ry'icyatsi irimo n'uturongo dufite ibara risa n'ivu.

Abantu bicaye mu ntebe z'imikara ndetse hari n'abandi bicaye imbere kuri tapi ifite ibara ry'icyatsi, hari ameza arateguyeho agatambaro gafite ibara ry'umweru ndetse n'indabo ziri iburyo n'ibumoso.

Umugabo uhagaze yemye, yambaye ishati ifite ibipesu bitatu imbere mu gatuza, ndetse y'amaboko maremare, inyuma ye hari umuntu wambaye ingofero y'umukara umupira w'amaboko magufi utukura, ndetse na baji.

Amagambo yanditse mu uru rurimi rw'icyongereza, yandikishije ibara ry'ubururu, hari umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru iruhande rwe hari idarapo rifite ibara ry'icyatsi umuhondo n'ubururu.

Abantu benshi bahagaze ndetse n'abandi babari imbere bicaye, inyuma yabo hari icyapa kihamanitse gifite amabara atandukanye harimo inyuguti ya ra yanditse mu ibara ry'ubururu, iya ba yanditse mu ibara ry'umuhondo n'iya ca yanditse mu ibara ry'icyatsi.

Umugore wicaye afite i ikarmu afite ibara ry'ubururu mu ntoki yambaye isaha ku kuboko ndetse n'impeta imbere ye hari uducupa tw'amazi duteretse ku meza ndetse na mudasobwa yambaye ihena inyuma ye hari umugore wambaye amarinette n'ihena ku gutwi kw'ibumoso yambaye n'ikote rifite ibara ry'umutuku.

Umugabo wicaye hasi yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya pinki n'ikabutura, amaboko ye aziritseho amapingu, inyuma ye hari abantu bamushungereye bahahagaze ndetse muri bo hari uwambaye inkweto ifite ibara ry'umukara n'ipantaro y'umukara.

Inyubako isize amarangi atandukanye ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure ndetse imbere mu ibaraza hari amavaze ateretse arimo indabo, imbere yayo hari akayira kandi hari n'ubusitani n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umugore wambaye agakote gafite ibara ry'umukara ndetse harimo uturongo tw'umweru, mo imbere yambariyemo agapira gafite ibara rya oranje n'umukara, afite isuka mu biganza ndetse yikoreye igitebo kirimo ibyatsi, inyuma ye hari inzu isakarishije amategura.

Umuntu wicaye ku kiringiti gifite ibara ry'umutuku icyatsi n'umuhondo ku kiganza cye cy'iburyo yagishyize ku gahanga ndetse ukuboko kwe kw'ibumoso kuriho agakomo yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu ndetse arimo uturongo tw'umweru.

Abantu bahagaze kuma esikariye, ndetse iruhande rwabo hari icyapa gishushanyijeho abantu, kandi hari umugabo uhagaze ku ruhande rw'iburyo, imbere wambaye amarineti, n'umugore urimo hagati wambaye ijipo y'umukara, afite terefone mu ntoki.

Umukecuru ufite amenyo atandukanye ndetse yambaye igitenge kirimo amabara menshi agiye atandukanye, harimo umuhondo, icyatsi, umweru, umukara kandi mu mutwe yatezemo igitambaro gisa n'igitenge yambaye.

Agapira k'amaboko magufi, kanditseho amagambo yandikishije ibara ry'ubururu mu mugongo, kandi gafite ibara ry'umweru, ku maboko no ku ijosi kariho ibara ry'ubururu.

Abantu bicaye, hari umugore wambaye umupira w'amaboko magufi, ukuboko kwe kw'iburyo yagushikamishije ku meza, imbere ye hateguyeho agatambaro gafite ibara ry'umuhondo ndetse anateretseho icupa, imbere ye hari umugabo uhicaye wambaye agapira k'amaboko magufi k'ubururu.

Inzu ifite fondasiyo yubakishije amabuye kandi hariho n'amayesikariye, isize irangi rya beje ndetse amadirishya yayo afite ibirahure hasizeho irangi ry'ubururu kuri giriyage, hejuru yayo hariho amakositara.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza harimo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'ayanditse mu magambo afite ibara ry'icyatsi. Hejuru hari impine y'amagambo yanditse mu nyuguti eshatu harimo r ifite ibara ry'ubururu, b ifite ibara ry'umuhondo na c ifite ibara ry'icyatsi.

Umugore wazinze umunya akanuye amaso ndetse ku matwi yombi yambayeho amaherena, mu mutwe yateze igitenge kirimo amabara atandukanye kandi yambaye agapira gafite ibara rya oranje.

Umugore wambaye ishati y'amaboko magufi irimo amabara agiye atandukanye, afite mikoro mu kuboko kw'iburyo kandi yicaye ku ntebe ifite ibara ry'umutuku, iruhande rwe hari umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umukara kandi imbere yabo hari ameza ariho impapuro ateretseho ishakoshi, inyuma yabo hari ipiloni n'ibyatsi.

Abantu benshi bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umutuku, bambaye imyenda itandukanye, ku ruhande rw'ibumoso hari umugore uhicaye yambaye amarineti, ndetse n'agapira gafite ibara ry'umukara.

Abantu bicaye mu ntebe bambaye udupira tw’ amaboko magufi dufite ibara ry’ umukara. Bari mu ntebe zifite ibara ry’ umutuku kandi mu biganza byabo harimo abafite amacupa. Hari umugore wambaye umwenda urimo ibara ry’ ubururu n’ umweru.

Abantu bahagaze bambaye imipira y'amaboko magufi irimo ibara ry'ubururu ndetse na keru hari umugabo uhagaze hagati wambaye ishati y'umweru karuvate ndetse n'ipantaro y'umukara hari abambaye amasaha ku maboko.

Abantu bicaye ndetse n'abandi bahagaze mu byatsi, hari abari mu ihema rifite ibara ry'umweru n'icyatsi, mu bicaye hari umugore wambaye agapfukamunwa akenyeye igitenge harimo ibara rya kake iry'ubururu ndetse yambaye n'agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya kaki.

Umukobwa uri guseka afite umusatsi w'umukara ndetse yambaye agapira gafite ibara ry'umutuku, mo imbere yambariyemo umwenda ufite ibara ry'umukara, inyuma ye hari inzu ikinguye umuryango kandi hari n'intebe ihari.

Abantu bahagaze imbere y'imodoka harimo abambaye udupira tw'amaboko magufi tw'umukara ndetse n'undi wambaye ak'umweru, hamwe n'undi mugabo uri ku ruhande rw'iburyo wambaye agafite ibara rya kake. Inyuma yaho hari imodoka ihaparitse kandi hari n'ihema rifite ibara ry'umweru n'icyatsi.

Umugabo wicaye ku ntebe y'urubaho yahinnnye ipantaro, imbere ye hari abagore bahicaye, harimo uteze agatambaro mu mutwe ndetse n'undi wambaye baji ifite umushumi w'ibara rya oranje, hari n'undi wifubitse agatambaro gafite ibara rya pinki, inyuma yabo hari ibiti bitandukanye hamwe n'insina.

Umwana wikoreye amaboko arekurira, inyuma ye hari umugore ukenyeye igitenge mu nda, yambaye ijipo ndetse n'agapira, kandi afite inkwi mu kiganza cy'ibumoso, hirya ye hari akana ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye.

Abantu bicaye ku ntebe hagati yabo hari ameza ateretseho telefone. Hari abagore babiri bakikiye abana ku bibero ndetse bakenyeye ibitenge, harimo ufite umwana wambaye ingofero ifite ibara ry'umweru, ndetse n'agapira k'amaboko gafite ibara rya pinki.

Umusaza ufite ibihanga ndetse n'ubwanwa, yambaye ingofero ndetse n'ishati irimo amabara atandukanye, harimo iry'umweru ndetse n'uturongo dutambitse, yiteye umwitero ufite ibara ry'umuhondo.

Umuntu uhagaze wambaye umupira ufite ibara ry'umweru ndetse afite mikoro mu kuboko kw'iburyo, hari abandi bicaye, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro gifite ibara rya kake ndetse hateretseho uducupa tw'amazi n'amaterefone ndetse n'impapuro.

Abana benshi bambaye impuzankano harimo abambaye imyenda y'ubururu ndetse na kake bazamuye ibiganza byabo, hirya yabo hari abandi ndetse n'idarapo ririmo ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi. Hari ibiti biri hirya kure yabo.

Umugore ufite imisatsi yambaye iherena ku gutwi kwe kw'iburyo, ukuboko kwe kw'iburyo gufashe ukuboko kw'ibumoso, yambaye ikote ndetse n'ikanzu ifite ibara ry'umutuku, mu ijosi yambaye baji ifite umushumi ufite ibara rya oranje.

Abantu bari mu muhanda ukikijwe n'inzu ndetse n'ibiti. Imbere bafite icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo "Kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye". Hari umugabo ufite indangururamajwi mu kuboko kw'iburyo kandi mu kw'ibumoso afitemo agapapuro.

Inyubako ifite amadirishya y'ibirahuri ndetse isize irangi ry'umweru, imbere yayo hari ibyapa bitandukanye byanditse mu mabara agiye atandukanye.

Abagore batatu bakenyeye ibitenge by'ubwoko butandukanye ndetse bose bafite ibiti mu maboko yabo y'iburyo, hari uteruye umwana ari ku mwonsa yambaye agapira k'amaboko magufi, inyuma yabo hari ibyatsi ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye.

Umubyeyi uri guseka, ateruye umwana wambaye umupira w'amaboko ufite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ivu, inyuma yabo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye kandi hari n'idirishya ry'ibirahure risize irange rya beje kuri giriyaje.

Abantu bicaye ku ntebe z'ubururu n'indi ntebe imwe ifite ibara ry'umutuku iticayeho umuntu, imbere yabo hari ameza arambuyeho agatambaro gafite ibara ry'ubururu n'umweru. Hateretseho amashakoshi kandi hanatetseho uducupa tw'amazi ya nili.

Umukobwa wicaye yambaye ikanzu ifite ibara ry'ubururu n'umweru kandi imbere ye hari undi mugore uhicaye, wambaye iherena ku gutwi kw'iburyo kandi yambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, hirya yaho hari igikuta gisize irangi ry'umweru.

umwana we washinyitse amenyo yambaye ishati ifite ibara ry'umweru ndetse yayihinnye, mu kuboko kwe kw'ibumoso afashemo uburoso bufite ibara ry'umuhondo n'ubururu ari koza amenyo.

Umugabo wasamye, wambaye agapira gafite ibara ry'icyatsi, imbere ye hari umuganga wambaye agafukamunwa, yambaye ga mu ntoki ndetse n'itaburiya ifite ibara ry'umweru, mo imbere yambayemo ishati na karuvati ifite ibara ry'umutuku, inyuma yabo hari idirishya ndetse n'amarido.

Umukobwa n'umuhungu bambaye udupira tw'amaboko magufi, umuhungu afite agatambaro kari ku rutugu rw'ibumoso, bari kwireba mu ndorerwamo, imbere yabo hari ubukarabiro, umukobwa afite umusatsi w'umukara.

Umugore uryamye wasamye. Iruhande rwe hari umuganga wambaye itaburiya y’umweru agapfukamunwa, ndetse ku kuboko kwe kw’ibumoso yambayeho agakomo karimo ibara ry’umutuku, umweru, icyatsi, n’umukara. Ku rundi ruhande hari undi muntu uhagaze wambaye ishati ifite ibara ry’ubururu.

Umuntu uryamye iruhande rwe hari abaganga harimo uw'umugabo ufite ubwanwa wamva agapfukamunwa k'umukara ndetse na ga kukuboko kw'ibumoso yambayeho isaha, hari n'undi wambaye agafiri mu mutwe gafite ibara ry'ubururu ndetse n'agakomo ku kuboko kwe kw'iburyo.

Umugabo wirabura wasamye ndetse iruhande rwe hari umuganga, wambaye agapfukamunwa n'agaferi bifite ibara ry'umweru, yambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, ndetse na ga mu kiganza cye afashemo utwuma yashyize mu kanwa, k'uwo mugabo.

Abantu bahagaze, hari abambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, hari abambaye amatabuririya afite ibara ry'umweru, inyuma hari umukobwa wifashe mu mutwe, yambaye ingofero ifite ibara ry'umutuku, imbere yabo hari ihema rifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu ndetse inyuma yabo hari ibiti n'amatara yo ku mihanda.

Umugabo uri guseka afite amenyo y'umweru, yambaye amarinete ndetse ku zuru no ku gutwi hariho iherena, afite ubwanwa, urutoki rwe yarutunze mu isura ye, yambaye umupira ufite ibara ry'umweru.

Abana bari mu ishuri bahagaze mu ntebe ndetse harimo abambaye udushati tw'amaboko magufi dufite ibara rya beje, harimo n'undi wambaye agashati gafite ibara ry'ubururu. Inyuma yabo hari idirishya ry'ibirahure, risize ibara ry'icyatsi kuri giriyage ndetse hari n'igikuta gisize irangi ry'umweru, hirya yabo hari urugi.

Abantu bahagaze harimo umugore wambaye amarinete ndetse n'umugabo wambaye ikositimu ifite ibara ry'ivu n'ishati ifite ibara ry'umweru yambariyemo imbere. Imbere yabo hari umwana wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umugabo umwegereye wambaye itaburiya inyuma yabo hari ikibaho...

Umugabo uri kwireba mu ndorerwamo imbere ye hateretse papiyejenike, yambaye impeta ku kiganza cy'iburyo ndetse yambaye imyenda ifite ibara ry'umukara harimo akarongo k'umweru, inyuma ye hari idirishya ririho amarido y'umutuku.

Umugore wambaye agasengeri, imbere ye hari ameza yashyizeho amaboko kandi hari n'umuganga wamwasamuye mu kanwa amufashe ku kananwa, yambaye agapfukamunwa afungishije akabano karimo ibara ry'umutuku, yicaye ku ntebe y'umweru kandi hirya yabo hari abandi baganga bicaye.

Umwana uraramye ndetse iruhande rwe hari muganga uhahagaze yamwasamuye umunwa, yambaye ga n'itaburiya bifite ibara ry'umweru ndetse yambaye n'amarinete, kandi uwo mwana na we yambaye umwenda ufite ibara ry'ivu.

Umugore uryamye arasamye, yambaye iherena ku gutwi kw'ibumoso kandi mu gatuza ke harambuyemo agatambaro gafite ibara ry'icyatsi, hari umuganga wambaye ga mu ntoki ndetse afite utwuma ari kureba mu kanwa k'uwo muntu uryamye.

Umukobwa ufite uburoso bufite ibara ry'umweru n'ubururu mu kuboko kw'iburyo, imbere ye hari indorerwamo ari kwireberamo, mu mutwe ateze igitambaro gifite ibara ry'umweru.

Abantu bahagaze ndetse n'abandi babicaye imbere, harimo abagabo bambaye kositimu ndetse hari n'umugore wambaye marinete uri ku ruhande rw'ibumoso n'ishati y'amaboko maremare ndetse afite n'ibishuko ku mutwe.

Abantu bicaye ndetse hari n'abandi bahagaze bambaye udupira tw'umweru, ndetse n'abandi bambaye udupira tw'amaboko magufi dufite ibara ry'icyatsi, imbere handitse amagambo avuga ngo tubiteho, imbere yabo hari ameza ateguyeho igitambaro gifite ibara ry'umweru.

Umwana muto ufite mu kuboko kwe kw'iburyo uburoso bufite ibara ry'umweru ndetse na move, arasamye mu mutwe yambaye agatambaro kariho akarabyo. Yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umweru, inyuma ye.

Icyumba kirimo amatara yaka umweru ndetse n'amakaro, harimo intebe zifite amapine, z'ibara ry'umukara. Hari ibikuta bifite ibara ry'umweru, n'amadirishya, n'inzugi, ndetse n'urukarabiro bufite ibara ry'umweru.

Umuntu uryamye ku ntebe ndetse yambaye agapira kari mu ibara ry'umweru n'umukara, iruhande rwe hari umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse na ga mu ntoki bifite ibara ry'umweru.

Abana bambaye impuzankano bamwe barahagaze abandi baricaye mu ntebe. Inyuma yabo hari igikuta kiriho ikibaho cy'umukara kandi hirya yabo hari idirishya rifunguye ry'ibirahure risize ibara ry'icyatsi.

Umwana uryamye ararame yasamuye akanwa ndetse yambaye agapira karimo ibara ry'icyatsi, umukara n'umweru, iruhande rwe hari umuganga wambaye amarinete ndetse n'agapfukamunwa, yambaye ga kandi ku kuboko kw'ibumoso hambayeho isaha.

Umukobwa ufite uburoso bufite ibara ry'umweru na move mu kuboko kwe kw'iburyo ari koza amenyo ndetse anireba mu ndorerwamo afite imisatsi miremire uku boko kwe kw'ibumoso gufashe korogate ifite ibara ry'umweru ndetse yambaye n'agasengeri k'umweru.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'itburiya amaboko maremare ifite ibara ry'umweru, imbere ye hari ameza ateretseho ibyuma n'ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga kandi afite ikaramu mu ntoki hamwe n'urupapuro ruteretse kuri ayo meza, inyuma ye hari amadirishya y'ibirahure.

Icyumba kirimo intebe ifite ibara rya oranje ndetse n'amapine hirya yaho hari igikuta gifite ibara ry'umweru ndetse n'urugi hejuru, yarwo hari isaha ihamanitse hariho amadirishya y'ibirahure.

Umugabo ufite amenyo y'umweru kandi yambaye n'agapira gafite ibara ry'umweru, mu ntoki ze afitemo akagozi yafatiyemo gafite ibara ry'umweru yacishije mu menyo ye.

Umugabo uri guseka afite amenyo y'umweru n'ishinya itukura, afite ubwanwa kandi hari akagozi gafite ibara ry'umweru yazirikiye mu biganza byombi akanyuza mu menyo.

Umuganga wazamuye amarinete ayashyira mu mutwe ndetse yambaye agapfukamunwa, ukuboko kwe kw'ibumoso kuriho agakomo, yambaye itaburiya, imbere ye hari umwana uryamye ndetse aryamye ku gitanda gifite ibara ry'ubururu, inyuma ye hari igikuta gifite ibara rya beje ndetse hirya y'aho hari idirishya.

umuntu uryamye mu gatuza ke hararambuye agatambaro gafite ibara ry'ubururu kuruhande rwe rw'iburyo hari umuganga wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse ifite ibara ry'ubururu n'indi y'amaboko magufi afite ibara ry'icyatsi kuruhande rwe rw'ibumoso hari undi muganga wambaye isaha ku kuboko ndetse n'ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru.

Umugabo uri guseka afite ubwanwa, mu gatuza ke hambuyemo agatambaro gafite ibara ry'umweru, yambaye umupira w'amaboko maremare kandi imbere ye hari urukarabiro, inyuma ye hari igikuta gisize irangi ry'umweru.

Umuntu uri kwireba mu ndorerwamo afite akagozi yafatishije intoki agacisha mu kanwa ndetse amenyo ye, afite ibara ry'umweru yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru.

Umugabo ufite ubwanwa ari guseka yambaye ishati irimo uturongo turimo ibara ry'ubururu n'umweru, iruhande rwe hari umuganga wambaye ga mu biganza ndetse hirya yabo hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umukara, ukuboko kwe kw'iburyo gufatishije kuri mudasobwa iteretse ku meza amuri imbere. U kw'ibumoso yaguhinnye inkokora ashinga ku meza ndetse ahateretseho igikombe cy'ikirahure kirimo amazi. Iruhande rwe hari umukobwa umufashe ku rutugu.

Umukecuru washinze inkokora ku gatoti kari imbere ye, kandi afite mikoro yo mu kuboko kw'iburyo yambayeho n'agakomo, mu ijosi yambayemo agashaneti gafite ibara ry'umweru n'umukara, kandi afite imvi, hirya ye hari ibyatsi, ibiti n'imodoka zihaparitse.

Abantu bicaye ku mukeka, harimo uwambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umweru ndetse n'uwambaye ingofero mu mutwe, ifite ibara ry'umweru n'icyatsi, harimo uwambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu, n'ufite agatebo ari kuboha mu ntoki, warambuye amaguru

Umukecuru ufite imvi ndetse ari guseka yambaye amaherena ku matwi afite isahani iriho ibyo kurya ndetse mu kuboko kw'iburyo afitemo ifuke inzara ze ziseze verine yambaye agapira k'amaboko maremare gafite ibara ry'umweru kadoze mu budodo.

Umukecuru ufite imvi, yambaye iherena ku gutwi, yarambuye amaboko, imbere ye hari umukobwa wambaye agashati k'amaboko magufi, amaboko ye yombi yafashe ku kuboko kw'iburyo k'uwo mukecuru, inyuma yabo hari amadirishya.

Abantu benshi hari umusaza wambaye ingofero ifite ibara ry'umukara, n'umwitero ufite ibara ry'umweru, umukara, n'umutuku. Iruhande rwe rw'iburyo hari umukecuru wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu ndetse n'imikenyero, ku kuboko kwe kw'ibumoso yambaye isaha ku kw'iburyo hariho agakomo.

Abagore babiri bahagaze barambuye amaboko, hari uwambaye agatambaro ku kuboko kw'iburyo gafite ibara ry'umweru ndetse inyuma ye hari undi wambaye ikanzu y'isengeri, ku gutwi kwe kw'ibumoso yambayeho iherena.

Umusaza n'umukecuru bafite imvi, umukecuru yambaye iherena ku gutwi n'umwenda ufite ibara ry'umutuku, umusaza yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu ndetse ku kiganza ke cyo ku kuboko kw'ibumoso; yambayeho impeta, imbere yabo hari ameza.

Abantu bahagaze munsi y'igiti ndetse inyuma yabo hari amahema ariho ibitambaro bifite ibara ry'icyatsi, umuhondo n'ubururu, kandi hari umugabo wambaye amarinete ufashe mu kiganza cya mugenzi we wambaye ijire n'ipantaro ifite ibara ry'umukara.

Abantu bicaye bafatanye ku ntugu, ndetse hari umugabo wambaye isaha ku kuboko. Afashe k'ukuboko kw'ibumoso umugore begeranye uri guseka. Hari n'umukecuru wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo w'amaboko maremare yegeranye n'akana gato gafite imisatsi.

Umugore uri guseka, yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse karangaye mu gatuza gafite ibara ry'umweru. Inyuma ye hari abandi bagiye batandukanye, harimo uwambaye umwenda ufite ibara rya pinki ndetse n'umusaza kandi hari n'ibiti.

Umusaza n'umukecuru bafite imvi bicaye, imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro zitandukanye ndetse n'urundi bafite mu ntoki. Umukecuru yambaye impeta ku kiganza cy'ibumoso kandi umusaza nawe afite telefone mu ntoki ,inyuma yabo hari amadirishya y'ibirahure.

Umusaza ufite imvi ari guseka yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu, yarambuye ukuboko kw'iburyo gufashweho n'umuganga umuri inyuma ufite imisatsi miremire igera mu mugongo ndetse yambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru.

Abantu bari guseka begeranye harimo umukecuru wambaye agapira k'amaboko, hagati hari umugore wambaye amaneti ndetse usutse ibisuko yafungiye hejuru, iruhande rwe rw'iburyo hari umwana wambaye agapira gafite ibara ry'ivu.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ufite amaboko magufi ndetse n'ipantaro y'umukara, ibiganza bye byombi bifashe ku byuma, inyuma ye hari umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, afite umusatsi...

Umuntu ufite imvi ndetse yambaye ishati irimo amabara atandukanye, mu kuboko kwe kw'iburyo afashemo ikiyiko ari kwarura ndetse ukw'ibumoso ateruyemo isahani ifite ibiryo, imbere ye hari ameza ateretseho igikombe cy'ikirahure kirimo amazi.

Umukecuru ufite imvi ndetse yambaye amaherena ku matwi ye yombi ari guseka, yambaye ishati ifite ibara ry'umweru. Inyuma ye hari umukobwa nawe uri guseka, yambaye ihena kandi afite umusatsi w'umukara.

Umugore n'umugabo bicaye, imbere yabo hari mudasobwa ndetse n'ameza na terefone. Umugore yambaye amarinete n'amaherena ku matwi, umugabo afite impeta ku kuboko kw'ibumoso.

Umugabo n'umugore bari mu muhanda, ndetse umugore afite imvi, yambaye agapira k'amaboko magufi n'isaha ku kuboko kw'ibumoso, iruhande rwe umugabo uhari yambaye agapira gafite ibara risa n'ivu, kandi bari guseka.

Umusaza n'umuganga bicaye mu ntebe zifite imisego ndetse umusaza yambaye amarineti, akaboko ke k'iburyo umuganga yakazengurukijeho igikoresho bakoresha bapima umuvuduko w'amaraso, inyuma yabo hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Umukecuru ufite imvi yambaye amarinete ndetse n'agapira karimo ibara rya kake n'uturongo tw'ibara ry'umweru. Iruhande rwe hari umuganga wambaye ishati y'amaboko magufi bafatanye mu kiganza kandi hirya yabo hari urugi n'ibirabyo bifite ibara ry'icyatsi.

Umusaza wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara rya kaki ndetse imbere ye hari undi wambaye agapira k'amaboko magufi mu biganza byabo bafite umugozi ufite ibara ry'umuhondo bari kuwukurura, inyuma ye hari akabati gafite ibara ry'umweru kegereye igikuta.

Umukecuru n'umusaza bafite imvi ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho ibyo kurya bigiye bitandukanye ndetse hariho n'ikirahure cy'amazi, umusaza yambaye impeta ku kiganza cy'ibumoso kandi umukecuru yambaye shanete mu ijosi n'agapira k'amaboko gafite ibara rya pinki.

Abantu bahagaze mu muhanda, hari ufite igikapu mu kuboko kw'iburyo cy'imishumi gifite ibara rya kaki, inyuma yabo hari ibyatsi ndetse n'ibiti bitandukanye, umwe afashe ku rutugu rwa mugenzi we yambaye ikote.

Umukecuru n'umusaza bicaye bafite imvi ndetse umusaza yambaye umupira w'amaboko maremare n'impeta ku kiganza cyo ku kuboko kw'iburyo, imbere yabo hari ameza ateretseho amasahane ndetse inyuma y'umusaza hari umusore wunamye ufite ubwanwa yambaye amarineti.

Umukecuru n'umusaza bafite imvi bafatanye ku rutugu. Umukecuru yasetse kandi mu mutwe hatezemo agatambaro gafite ibara ry'umutuku. Yambaye agakomo ku kuboko kw'iburyo ndetse n'ikote.

Umuntu wicaye ku gatambaro gafite ibara ry'umweru yarambuye mu byatsi, afite umusatsi yafungiye hejuru, amaguru ye ararambuye, yambaye ipantaro ifite ibara rya Pink, inyuma ye hari ibiti by'amoko atandukanye.

Abagore bari gusoroma icyayi, harimo abateze ibitambaro, hari igitebo kibateretse mo hagati ndetse barunamye, icyayi gifite ibara ry'icyatsi, hari umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu.

Umusaza wambaye ishati y'amaboko ifite ibipesu, afite imvi ndetse yambaye amarinete, imbere ye hari umukobwa uri guseka wambaye ihena ku gutwi ndetse n'imyenda ifite ibara ry'ubururu, afite imisatsi miremire.

Umukecuru ufite imvi ari guseka yambaye amaherena ku matwi afashe isahani iriho ibyo kurya ndetse n'ifoke yambaye agapira kadoze mu budodo bw'umweru, bufite amaboko ndetse inyuma ye hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Umusaza ufite imvi, yambaye agapira k'amaboko magufi, n'ikabutura ifite ibara ry'umukara, ibiganza bye bifashe ku byuma bitambitse, ku ruhande rwe hari umukobwa, wambaye imyenda y'imikara, ikiganza cye cy'iburyo gifashe ku rutugu rw'umusaza, icy'ibumoso gifashe ku kuboko.

Abantu babiri bari munzu, umwe yambaye isaha ku kuboko kw'iburyo ifite ibara ry'umukara yambaye ishati y'amaboko magufi irimo ibara ry'umweru ndetse yambaye n'inkweto z'umweru n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu, iruhande rwe afashe ukuboko kw'ibumoso umugabo uri imbere ye.

Umugabo ufite ubwanwa n'imvi, umutwe we yawegetse ku w'umukobwa wambaye amarinete n'ikote ry'ikoboyi, mu imbere yambarimo agapira gafite ibara ry'umweru n'uturongo tw'ibara ry'umukara ndetse...

Abagabo babiri bafatanye ku ntugu, umwe yambaye ingofero ndetse yambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru n'ipantaro ifite ibara ry'umukara n'inkweto ndetse ku kuboko kw'ibumoso yambayeho agakomo, undi yambaye agapira gafite ibara ry'ubururu k'amaboko magufi.

Abantu bari mu muhanda imbere ye hari abakecuru bambaye imyenda y'ibara ry'umweru umutuku ndetse bafite inkoni mu biganza harimo uteza agatambaro k'umukara mu mutwe ndetse n'undi ufite imvi inyuma yabo hari abantu kandi hirya yabo hari ibyatsi n'insina.

Umusaza wicaye, yambaye agapira k'amaboko maremare gafite ibara rya kake ndetse afite imvi. Inyuma ye hari umukobwa wambaye ishati n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu, kandi hari n'amadirishya inyuma yabo n'abantu bicaye ku ntebe.

Abantu bari munsi y'igiti kinini gifite amababi n'amashami menshi, harimo abicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu n'bandi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru hamwe n'abicaye hasi. Muri bo hari uwambaye imyenda afite ibara ry'umuhondo kandi hari n'undi wambaye ifite ibara ry'ubururu buvanzemo na oranje.

Abakecuru bicaye imbere yabo hari ishakoshi irimo imyenda, ndetse inyuma yaho hari undi wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umweru n'izindi ziticayeho abantu, inyuma yabo hari insina zifite amakoma ndetse n'ubundi bwoko bw'ibyatsi.

Umugore wambaye agapfukamunwa n'amaneti, afite ibisuko ku mutwe, aricaye imbere ye hari umukecuru warambuye ukuboko kwe kw'ibumoso, uwo mugore yambaye ga ndetse n'isaha ku kuboko kw'ibumoso inyuma yabo hari ubusitani ndetse n'ibiti.

Abantu bahagaze harimo umugabo wambaye ijire yumukara nipantaro n'inkweto by'umukara mwimbere yambaramo agapira gafite ibara ry'umweru yegeranye n'umugore witandiye kandi yambaye ibitenge n'amarinete, inyuma yabo hari ibitambaro birimo ibara ry'umuhondo, ubururu, n'icyatsi.

Umukecuru wicaye mu ntebe z'imisego zifite ibara ry'uruhu, yambaye impeta ku kiganza cy'ibumoso ndetse n'amaherena ku matwi yombi, ari guseka kandi inyuma ye hari umukobwa wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ndetse n'isaha ku kuboko.

Umukecuru ufite iminkanyari aricaye yambaye amaherena na shanete mu ijosi, kandi afashe ku kirahure giteretse ku meza amuri imbere, iruhande rwe hari umuganga uhahagaze wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu. Hirya yabo hari ivaze ihateretsemo ururabo.

Umukecuru udafite umusatsi, yambaye iherena ku gutwi kw'iburyo, mu kiganza cye cy'iburyo afashe amazi ari mu kirahure, ku kuboko kw'ibumoso yambayeho impeta, inyuma ye hari igikuta cyubakishije amakaro ndetse n'amadirishya.

Umukecuru ufite ikirahure mu kiganza cye cy'iburyo, icy'ibumoso yagishyize ku munwa, yambaye amarinete n'iherena ku gutwi afite imvi, yambaye agapira k'amaboko magufi, inyuma ye hari igikuta gisize irangi ry'umweru.

Umukecuru n'umusaza bafite imvi, umukecuru yambaye impeta ebyiri ku kuboko kw'ibumoso n'indi imwe ku kuboko kw'iburyo yambaye amaherena, ndetse umusaza umuri iruhande yamba agapira k'amaboko magufi ukuboko kwe kw'iburyo gufashe ukuboko kw'ibumoso.

Abantu bari guseka, bahagaze mu muhanda. Hari umusaza wambaye amarenete, ndetse we n'umukecuru bafite imvi. Kandi harimo umusore wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu k'amaboko magufi, inyuma yabo hari imodoka.

Abagabo babiri bose nta musatsi bafite ndetse bafite amacupa y'amazi mu biganza byabo. Hari uwambaye ishati y'amaboko ndetse hari n'undi wambaye ipantaro irimo akabara k'umweru n'umukara, hirya yabo hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Umusaza wicaye yegamye afite imvi ateruye umwana wambaye ishati y'amaboko magufi ufite igipupe mu kuboko kw'iburyo hirya yabo hari ibikuta by'umweru.

Abantu benshi bahagaze ndetse imbere hari abasaza, harimo uwambaye ingofero ifite ibara rya kake, ishati y'umweru ndetse n'umwitero w'umukara, undi yambaye amarinete n'ingofero ifite ibara ry'umukara ndetse n'umwitero w'umweru n'ishati y'amaboko maremare.

Umugabo ufite umusatsi urimo imvi yambaye amarinete kandi yicaye mu kagare k'abafite ubumuga, iruhande rwe hari umwana wicaye wakubye ukuguru kw'iburyo, yambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'icyatsi; kandi ari guseka afite n'imisatsi myinshi ku mutwe.

Umugore wambaye agapira k'amaboko maremare, gafite ibara ry'umweru. Imbere ye hari umwana ufite imisatsi y'imikara ifunze, yambaye agapira k'umweru, karimo utudomo tw'umukara. Hari ameza ari imbere yabo.

Abantu bari guseka harimo umusaza ufite imvi ndetse yambaye ishati y'umweru, harimo n'umugore ufite imisatsi myinshi ahetse umwana n'umugabo uhetse umwana w'umukobwa mu mugongo wambaye agasengeri gafite ibara ry'umuhondo.

Umusaza n'umukecuru ufite imvi y'umusaza afite telefone mu ntoki ndetse yambaye agashati karimo uturongo duhagaze k'amaboko magufi. Umukecuru yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu mu kuboko kwe kw'iburyo afashemo urupapuro. Imbere yabo hari ameza ateretseho ikirahure kirimo amazi.

Abantu bambaye imipira y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru ndetse hari n'uwambaye ufite ibara ry'ubururu, bambaye amajipo y'umukara harimo abambaye inkweto zifunze z'imikara ndetse inyuma yabo hariru undi wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru n'ingofero, inyuma yabo hari igipangu ndetse muri cyo harimo igiti kinini.

Abagore batatu bafite imvi ndetse bari guseka. Uri hagati yambaye agapira gafite ibara ry'umuhondo ndetse afite terefone mu ntoki ari gufotora. Uri ku ruhande rwe rw'ibumoso yambaye iherena ku gutwi.

Umukecuru wicaye ku buriri, yambaye agapira gafite ibara ry'ivu, imbere ye hahagaze umukobwa ufite imisatsi y'umukara, yambaye ishati y'amaboko magufi, mu imbere ye yambariyemo ishati y'amaboko maremare.

Umugabo ufite umusatsi urimo imvi yambaye ishati y'amaboko afite ibara rya shokora yicaye ku ntebe y'umweru, iruhande rwe hari umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru ndetse na karuvati. Imbere yabo hari ameza ateretseho ikaramu ndetse n'igitabo, kandi inyuma yabo hari idirishya ry'ibirahure.

Umusaza ufite iminkanyari, mu gahanga, yambaye amarinete ndetse afite n'imvi, mu kuboko kwe kw'iburyo afitemo ikaramu, iruhande rwe hari ikayi ari kwandika.

Umuntu ufite imvi yambaye amarinete imbere ye hari umugore uhicaye, wambaye agapira k'amaboko maremare, gafite ibara rya beje n'ihena ku gutwi, hagati yabo hari ameza ateretseho ikirahure cy'amazi ndetse n'impapuro...

Umugabo n'umugore bahagaze, inyuma yabo hari amadarapo. Ndetse imbere yabo hari intebe ifite ibara ry'umukara. bafite icyapa mu biganza byabo byombi, cyanditseho amagambo avuga ngo: "Twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira".

Abantu bahagaze kuri tapi ifite ibara ry'icyatsi bambaye baji mu ijosi ndetse hejuru yabo hari amatara yaka ibara ry'umweru inyuma yabo hari ibyapa bihamanitse bifite ibara ry'umutuku, umweru n'ayandi.

Abantu bicaye mu ntebe z'umweru, bambaye udupira tw'amaboko magufi, ndetse imbere yabo hari umuntu uhagaze n'undi ufite kamera ari gufotora, hari amadirishya y'ibirahure, ndetse n'ibikuta byubakishije amatafari ahiye.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko ufite ibara ry'umukara ndetse n'ingofero n'amarinete. Mu biganza bye afashe urupapuro rw'umweru rwandikishijeho ibara ry'umutuku ndetse ahagaze munsi y'igiti gifite amababi menshi.

Bo bahagaze bambaye udupira tw'amaboko magufi dufite ibara ry'umweru, ndetse imbere mu gatuza harimo akabara k'umuhondo, inyuma yabo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'urugi rw'ibirahure, kandi harimo abambaye amapantaro y'umukara bambaye y'ubururu ndetse n'undi wambaye ifite ibara rya shokora.

Abantu bahagaze imbere y'ameza afite igitambaro cyicyatsi ndetse bo bambaye amataburiya afite ibara ry'umweru, munsi yabo hari umuntu wambaye ijire ndetse n'ingofero ifite ibara ry'ubururu.

Abantu bahagaze harimo abambaye udupira tw'amaboko magufi tw'umweru n'amapantaro y'umukara. Bahagaze mu byatsi, ndetse ku ruhande hari uwambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi. Inyuma ye hari imodoka ifite ibara ry'umweru n'amapine y'umukara.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse yandikishijwe amabara abiri atandukanye iryo hejuru y'umurongo ryanditse mu ibara ry'ubururu ndetse iryo hasi y'umurongo ryandikishije ibara ry'umutuku hirya y'aho hari agatambaro kagiye gaciyemo uduce duce dufite ibara ry'umweru, ubururu, n'umutuku.

Abantu bicaye mu ntebe harimo umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi ndetse n'amarineti, hegeranye n'abakobwa babiri bambaye imipira y'imikara yose isa ndetse harimo uwambaye shanete mu ijosi, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro kandi hari iteretseho mudasobwa.

Abaganga babiri bambaye udupfukamunwa ndetse n'amataburiya afite ibara ry'ubururu mu mutwe bambayemo udufire, hari umuntu wicaye wasamye ndetse yambaye ingofero y'uburu, hirya yabo hari abandi bantu bahagaze.

Umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'icyatsi rimo n'akabara k'ivu ndetse yambaye ishati y'amaboko n'ingofero, imbere ye hari umugabo uhicaye wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu wahinnye ukuboko kw'ibumoso bari guteraho urushinge.

Abantu bahagaze harimo abagabo bambaye ikositimu, harimo umwe wambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati n'umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo, hamwe n'umugabo uhagaze kuruhande rw'iburyo wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umutuku.

abantu bahagaze ndetse n'abandi babicaye imbere. Harimo uwambaye ikote rifite ibara ry'ubururu kandi yegeranye n'umugabo wambaye karuvati y'icyatsi, inyuma ye hari umugore wambaye ikote rifite ibara ry'icyatsi.

Umuntu wambaye ishati y'umweru ndetse n'ijire y'umutuku, imbere ye hari umukobwa usutse yambaye agapira gafite ibara ry'umukara n'agakomo ku kuboko kw'ibumoso, imbere yabo hari ameza ariho mikoro ebyiri.

Umuntu uryamye mu byatsi, hari n'abandi basutamye bambaye amajire y'icyatsi arimo ibara ry'ivu ndetse hari n'abandi bambaye amataburiya afite ibara ry'umweru, harimo upfukamishije ukuguru kw'iburyo. Inyuma yabo hari umuntu uhahagaze ndetse n'igiti.

Abantu bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umutuku bakikije ameza hariho agatambaro gafite ibara ry'umweru hari mudasobwa iteretse ku meza ndetse n'uducupa tw'amazi imbere yabo hari umugabo uhagaze ufite mikoro ndetse inyuma ye hari agatuti gateretseho mudasobwa.

Abantu bicaye harimo umuganga w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse iruhande rwe hari umugore uteze agatambaro k'umweru mu mutwe, yambaye ikote ry'umukara mu ijosi yambayemo bajI ifite umushumi ufite ibara ry'ubururu.

Umugore wambaye ishati y’ amaboko magufi, ifite ibara ry’ icyatsi. Yambaye iherena ku gutwi n’ agashanete mu ijosi ndetse n’ amarinete. Imbere ye hari nikoro ebyiri ziri ku gatuti afasheho gafite ibara ry’ umweru n’ icyatsi.

Abantu benshi bari mu muhanda hagati y'amazu ndetse n'ibiti abantu b'imbere bafite icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo rubyiruko nimwe hazaza h'ejo h'uru Rwanda irinde virusi itera sida ipimije uyu munsi.

Abantu bicaye mu ntebe z'umutuku bambaye imyenda itandukanye, imbere yabo hari abandi bicaye mu ntebe zifite ibara rya beje harimo umugore wambaye ishati y'amaboko ifite ibara ry'umutuku n'undi ufite mikoro mu kuboko kw'iburyo.

Abantu bicaye mu ibaraza ry'inyubako, imbere ya bo hari amadirishya n'inzugi. Mu bicaye, hari umuntu wambaye ikote ry'umutuku ndetse n'ingofero, hari n'umugore ukenyeye igitenge wambaye ingofero ndetse n'agapira k'amaboko gafite ibara rya pink.

Ibara ry'ubururu ryanditsemo amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda, harimo ijambo twirinde ryanditse mu ibara ry'umweru, ndetse n'amagambo indwara y'ubushita bw'inkende yanditse mu ibara ry'umuhondo.

Abantu bahagaze ndetse imbere yabo hari abandi bicaye, harimo umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'amarinete y'umukara, imbere yabo hari ameza akikijwe n'intebe, hariho agatambaro k'umweru.

Abagabo babiri bakoranye mu biganza bambaye ikositimu, umwe yambaye amarinede na karuvati ifite ibara ry'ubururu ndetse undi yambaye karuvati ifite ibara ry'umukara n'impeta ku kiganza cye cy'ibumoso.

Abantu benshi bahagaze abandi basutamye ndetse hari n'abunamye, bazamuye ibiganza byabo imbere yabo hari ameza akikijwe n'intebe, hari umugabo wicaye ufite terefone mu ntoki ndetse imbere ye hari agacupa k'amazi ateretse ku meza.

Igikuta gifite ibitanda biri ku murongo bishasheho amashuka afite ibara rya kake n'umweru. Inyuma yabyo hari igikuta gito gisize irange rya orange, hari supenete zimanitse hejuru muri parafo ndetse na vandarateri. Gifite amadirishya y'ibirahure.

Icyumba kirimo ibitanda biri ku murongo bifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, hejuru hamanitsemo supanete ndetse hirya no hino hari amadirishya ariho amarido afite ibara ry'ubururu.

Icyumba kirimo kamera ndetse hari intebe zifite ibara ry'ubururu n'izindi zifite ibara risa n'ivu, zikikije ameza kandi hirya hari inzugi n'amadirishya y'ibirahure.

Icyumba kirimo amakaro ndetse muri purafo hari amatara ari kwaka ibara ry’umweru. Gifite ibikuta byubakishije irangi ry’umweru, harimo uturongo tw’irangi ry’ubururu n’umutuku hirya hari amadirishya y’ibirahure.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse isize amarangi agiye atandukanye ndetse hari ahari ibara ry'umweru kandi ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure, imbere yayo hari amapave kandi hari n'ubusitani imbere yayo.

Ibitanda biriho amashuka afite ibara ry'icyatsi, bifite ibara ry'umweru, biri ku murongo, hariho amarido afite ibara ry'ubururujuru ndetse hari n'ibikuta bifite ibara ry'umweru kandi ibitanda bifite amapine.

Icyumba kirimo intebe z'umukara zifite amapine ndetse ziri ku murongo, hari izicayemo abantu ndetse n'izindi ziticayemo abantu, imbere yabo hari umuryango ndetse n'idirishya bifite ibirahure n'ibara ry'umweru hejuru muri parafu harimo amatara yaka ibara ry'umweru.

Inyubako iriho amarangi atandukanye, yubakishije amatafari ahiye ndetse isize irangi ry'umweru rifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure. Ku gikuta kiri imbere hari amagambo yanditse mu nyuguti z'umweru avuga ngo nyarugenge disitirikiti hosipito.

iicyumba kirimo ibitanda kandi gifite inkuta zisize irangi ry'umweru hari amarido ahamanitse afite ibara ry'icyatsi ndetse hari n'indobo bajugunyemo imyanda ifite ibara risa n'ivu.

Abantu bicaye mu nzu irimo amakaro kandi bari mu ntebe zifite ibara ry'umweru n'icyatsi, bambaye udupira twaama ku magufi hirya ku ruhande rw'ibumoso hari umugore uteze agatambaro gafite ibara ry'umweru mu mutwe.

Inyubako zisize amarangi y'ubwoko butandukanye kandi zifite ibaraza, harimo ahari kwaka hahagaze abantu ndetse amadirishya yazo n'inzugi zifite ibirahuri, hagati muri zo hari ubusitani burimo indabo n'ibyatsi.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru, inyuma ye hari umwana wambaye ikote ndetse n'ipantaro bfite ibara ry'umukara, afashe ku kagare k'abafite ubumuga kicayemo umugabo, imbere ye hari umuntu uhahagaze ndetse hari ibitambaro bifite amabara y'icyatsi, umuhondo n'umweru.

Inzu ifite amadirishya ndetse n'inzugi, hariho ibara ry'umweru ndetse yubakishije amatafari ahiye, isakarishije amabati afite ibara ry'ubururu. Imbere yayo hari amavaze ndetse arimo indabo, hari amagambo yanditse imbere y'iyo nzu hejuru avuga ngo inzu y'ababyeyi.

Inzu igiye ifite ibyumba byanditseho umubare, urugi rwa mbere rwanditseho rimwe, urwa kabiri kabiri, ndetse n'urwa gatatu, hejuru muri purafo harimo amatara y'umweru kandi hirya hari intebe ifite ibara ry'umukara.

Inyubako yubakishijeje amatafari ahiye asize irangi ry'umweru, inyuma yayo hari ibigega kandi ikikijwe n'amatara yo ku mihanda, hari jaride zirimo ibyatsi ndetse n'ibiti kandi harimo n'ibyicungo.

Inyubako ifite ibaraza riparitsemo imodoka, isize irangi ryumweru ndetse amadirishya yayo n'inzugi zifite ibirahure, imbere yayo hari amavase arimo indabo kandi hari n'ubusitani burimo ibyatsi.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite idirishya ry'ibirahure iriho giriyaje isize irangi ry'umweru, mu ibaraza ryayo harimo abantu bicaye ku ntebe harimo umugore uteze agatambaro gafite ibara ry'umweru mu mutwe ndetse imbere yayo hari indabo.

Icyumba kirimo amabara agiye atandukanye harimo ahari igishushanyo cy'inzovu ifite ibara ry'umuhondo n'ifite ibara rya oranje, ndetse hari n'ahandi hagiye hari icyatsi kandi harimo intebe zifite amapine ndetse harimo n'amakaro.

Abantu baryamye ku gitanda hari uri hafi y'igikuta ndetse n'idirishya wiyoroshe ishuka ifite ibara ry'ubururu, igitanda cyo mo hagati nta muntu ukiryamyeho gishasheho ishuka y'umweru ndetse hejuru yabyo hamanitse supaneti.

Abagore bane bahagaze imbere y'inyubako bambaye imyenda y'ubururu juru n'udupfukamunwa, inyubako isize amarangi y'amabara atandukanye kandi ifite amadirishya, imbere yayo hari ubusitani.

Abagore babiri bahagaze imbere y'inzu bambaye udupfukamunwa ndetse n'imyenda ifite ibara ry'umuhondo. Iyo nzu yanditseho inzu y'ababyeyi kandi imbere yayo hari ibirabyo n'ibyatsi.

Inyubako isize amarangi atandukanye, harimo iry'umuhondo ndetse n'irya beje ryanditsemo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza yandikishije ibara ry'ubururu, ifite amadirishya y'ibirahure kandi mo imbere harimo umuntu wicaye yambaye ingofero ifite ibara ry'ubururu, muri parafo hejuru harimo amatara yaka ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo ibitanda bifite amapine ndetse bishasheho amashuka y'umweru, hari urukuta rusize irangi ry'umweru ndetse hari n'urundi rusize irangi ry'icyatsi, hejuru muri parafo hari amatara yaka umweru.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, hari igitanda gifite ibara ry'umweru ndetse gishasheho amashuka y'umweru, hari na televiziyo ndetse n'ibikuta bisize irange ry'umweru hari inzugi ndetse n'amadirishya.

Icyumba kirimo intebe z'ubwoko butandukanye, harimo izifite amapine ndetse n'ibara ry'ubururu, hari indobo ifite ibara ry'umuhondo kandi ibikuta by'icyo cyumba bisize irangi ry'umweru.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse yubakishije inkingi ziriho irangi risa n'ivu, ndetse inzugi zayo n'amadirishya afite ibirahuri, imbere yayo haparitse imodoka ndetse na moto kandi hari ubusitani.

Abantu bahagaze mu byatsi ndetse bamwe begamye ku cyapa cyanditseho ijambo ngo butaro hospital, inyuma yabo hari ibiti birebire by'amoko atandukanye ndetse hari n'undi usutamye imbere yabo wambaye isaha ku kuboko yafatanyije ibiganza.

Inyubako yubakishije amabara atandukanye, ifite inzugi n'amadirishya by'ibirahure, bisize irangi ry'umweru ndetse imbere yaho hari ibirabyo bitandukanye by'amoko menshi ndetse n'amavase abiri, harimo ibara ry'umuhondo ndetse na oranje.

Icyumba kirimo abantu bambaye ibisurubeti bifite ibara ry'umweru ndetse ririmo uturongo tw'ubururu, bambaye udupfukamunwa, harimo ibitanda bifite amapine ndetse n'intebe zifite ibara ry'umukara, hamanitsemo supaneti n'amarido afite ibara ry'ubururu ndetse n'amadirishya.

Igipangu gifite porotaye ikinguye mo imbere hari inzu isize irangi rya beje ndetse ifite n'idirishya hejuru yaryo hari amakositara ndetse isakarishije amabati afite ibara ry'ubururu, imbere yawo hari umugore uhagaze hafi y'umuhanda wegereye porotaye uhetse umwana wambaye ingofero ya pinki.

Icyumba kimanitsemo iri perereza bifite ibara ry'umweru n'ubururu harimo n'amatara yaka ibara ry'umweru, hari intebe z'ibyuma zigetse ku gikuta ndetse n'ijisho rishushanyije ku gikuta.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako, hejuru hari amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi avuga ngo Rwamagana hosipito ndetse ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure, imbere yabo hari indabo.

Inyubako zitandukanye zubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati afite ibara ry'ubururu, hari imodoka ziparitse hagati ndetse n'ubusitani, hari ibiti binini ndetse n'utuyira duca muri ubwo busitani.

Inyubako zisakashije amabatifite ibara ry'umutuku ndetse risize irangi rya bege, rifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure imbere haparitse imodoka zitandukanye, ndetse mu busitani harimo n'icyapa.

Urujya n'uruza rw'abantu bari imbere y'inyubako, ndetse abandi bicaye mu ihema. Hirya hari inzu isakajije amabati afite ibara ry'icyatsi, ndetse ifite n'amadirishya. Muri bo hari umuntu wambaye agashati gafite ibara ry'umweru k'amaboko magufi, ndetse ku maboko no mu ijosi gafite ibara ry'ubururu.

Inyubako nyinshi zifite amadirishya ndetse n'inzugi, inyuma hari inyubako ifite ibara rya move ndetse hagati yazo harimo utuyira twubakishije amapave n'ubusitani

Inyubako ifite inzugi zometseho impapuro zitandukanye, ndetse mo imbere harimo utubati turimo imitiye igiye itandukanye. Hari moto ziri hirya ziririmo abamotari, ndetse n'imodoka. Mo imbere harimo umugore uhetse umwana ndetse amutwikije agashura gafite ibara ry'umweru.

Ibitanda biri ku murongo bifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hari n'akabara k'umutuku gato, inyuma yaho hari idirishya rifite ibirahure ndetse n'inkuta zifite ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo intebe zitandukanye z'imisego, hari izikikije ameza ndetse harimo izifite ibara ry'umukara, ubururu, hari ibikuta bifite ibara rya beje n'inzugi hamwe na televiziyo.

Icyumba kirimo amatara hejuru muri parafo ifite ibara ry'umweru. Gifite inzugi z'ibirahure, kandi inkuta zacyo zifite ibara ry'umweru n'ibara ry'ivu. Hari ivaze iteretse mu nguni, irimo ururabo rufite amababi.

Icyumba kirimo ibitanda biryamyeho abantu ndetse gifite amashuka afite ibara rya kake, hari amadirishya afite ibirahure, amatara arimo yaka ibara ry'umweru hamanitsemo supaneti.

Icyumba kirimo ibitanda bifite amapine ndetse hariho ibara ry'umweru n'ubururu, hari ibikuta bifite ibara ry'umweru kandi hejuru muri pulafo hari amatara ari kwaka, hirya hari amadirishya.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse imbere yayo haparitse imodoka, ndetse iburyo n'ibumoso hari ibiti, hari umuntu wambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku uhagaze mu mutaka uri imbere y'iyo nyubako, ndetse hari n'undi uhagaze mu rubavu rwayo.

Umuntu wunamye yambaye ga ndetse n'agakomo ku kuboko kw'ibumoso gafite ibara ry'umukara, yambaye itabu ifite ibara ry'umweru y'amaboko magufi. Iriho uturongo dufite ibara ry'umweru ku mufuka ndetse no ku kuboko.

Inyubako irimo abantu. Harimo abambaye amataburiya y'umweru ndetse n'udufire mu mutwe, hari uwambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'umutuku. Hejuru muri parafo ifite ibara ry'umweru, harimo n'amatara yaka umweru. Ibikuta by'iyo nyubako bifite ibara ry'umweru.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse, isize irange ry'umweru, imbere yayo hari ibiti by'amoko menshi, ndetse ifite amadirishya, hari n'umuntu wambaye ishati ifite ibara ry'umutuku, ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abantu bicaye imbere y'ahantu handitse amagambo avuga ngo; aho bakirira abagana ikigo nderabuzima; mu bicaye hari umugore uhetse umwana, ndetse mu mutwe ateze igitenge; imbere yabo hari igikuta kimanitseho impapuro zitandukanye, cyubakishije amatafari ahiye.

Icyumba kinini kirimo intebe zifite ibara ry'umukara ndetse n'amapine, hariho ameza ndetse n'ibikuta bifite irangi ry'umweru, hariho televiziyo.

Inzu ifite ibaraza ndetse n'amadirishya ,hirya no hino hari ibiti biyikikije ndetse n'ubusitani. Harimo utuyira tw'amapave turi gucamo abantu hagati mu busitani ,hejuru yabo hari umugozi utwara umuriro.

Icyumba kiriho ibitanda biri ku murongo bishasheho amashuka afite ibara ry'umweru, ndetse hari amatara muri parafo yaka ibara ry'umweru, amaredo amanitse hagati yabyo afite ibara ry'umweru.

Porotaye ifunguye mo imbere hari inyubako isakashije amabati y'ubururu, ndetse isize irangi rya beje, ifite idirishya hejuru yaryo hariho amakositara, ndetse inyuma y'igipangu hari umugore uhahagaze uheretse umwana.

Umugabo uhagaze, yambaye ipantaro y'umukara, n'ishati y'umweru, atunze urutoki ku gikuta kiriho icyapa, ndetse iruhande rwe hari undi wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'umutuku, imbere ye hari ameza ariho mudasobwa, ndetse ateretseho n'icupa ry'amazi, inyuma yabo hari idirishya, ririho amarido afite ibara ry'umukara.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye isize irangi ry'umuhondo hari amagambo yanditse hejuru avuga ngo ikigo nderabuzima cya gishweru imbere yayo hari abantu bahagaze ndetse mu ibaraza ryayo hari n'undi muntu wicaye ku ntebe y'urubaho ihari hariho kizimya mwoto yometse ku gikuta ndetse n'idirishya n'urugi.

Icyumba kirimo ameza afite ibara ry'umukara ndetse n'intebe ifite amapine, muri parafo hejuru hari amatara yaka ibara ry'umweru, kandi gifite n'inkuta zisize irangi ry'umweru n'amadirishya y'ibirahure.

Inyubako ifite inzugi z'ibirahuri ndetse zisize irange ry'umweru hari ibikuta byubakishije amatafari ahiye ndetse imbere yayo hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza kandi hari ibyatsi bigiye biri ku mpande y'iyo nzu.

Inzu ifite imiryango ikinguyemo mo imbere hahagazemo abantu, harimo umwana wegeranye n'umubyeyi wambaye agapira gafite ibara ry'umutuku, umubyeyi ateze igitenge mu mutwe ndetse ikindi aragikenyeye ahetse umwana, amworoshe agashuka.

Porotaye ifite ibara ry'ivu, ndetse n'inyubako yubakishije amatafari ahiye, isize amarangi y'umweru ndetse ifite n'amakositara, isakaje amabati y'ubururu hafi ya porotayi hari icyapa cyandikishije ibara ry'umweru, ndetse kiri mu mutuku, hari amagambo avuga ngo ikigo nderabuzima cya Matyazo.

Icyumba kirimo amatara yaka ibara ry'umweru, ndetse ibikuta byacyo bifite irangi ry'umweru, hari amadirishya n'inzugi by'ibirahure ndetse hejuru muri parafo harimo kamera.

Abantu bicaye imbere yabo hari ameza hariho igitambaro cy'icyatsi kandi hateretseho uducupa tw'amazi y'inyange, hari abafite mudasobwa imbere yabo hari umugabo uhagaze ari gufotora.

Inzugi zifite ibirahure zisize irange risa n'ivu kandi mu imbere mu nzu harimo amakaro y'umweru ndetse n'imiti iri mu kabati igiye itandukanye, imbere yayo hari imodoka iparitse kandi hari n'amapave.

Umuganga wambaye itabura y'umweru afashe ku rutugu rw'umwana wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'icyatsi, inyuma yaho hari abantu bahagaze harimo umugabo wambaye ikositimu ifite ibara risa n'ivu kandi inyuma yabo hari ikibaho gifite ibara ry'umukara cyometse ku gikuta.

Abantu bicaye ku murongo ndetse hari n'abandi bahagaze, inyuma yabo hari igikuta gifite ibara ry'umweru ndetse n'amadirishya y'ibirahure, mu bicaye hari umukobwa wambaye ikanzu ifite ibara rya pinki ndetse mu mutwe ateze agatambaro.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse, ndetse mu ibaraza ryayo harimo abantu bahagaze, yubakishije amatafari ahiye, kandi ifite amadirishya n'inzugi bisize irangiriza risa n'ivu, hejuru yabyo hari amakositara, hari imodoka iparitse mu mapave ndetse n'abantu bahahagaze.

Inzu ifite igikuta kiriho ibara rya beje cyometseho amataburo atandukanye ndetse n'isaha ifite ibara ry'umukara n'umweru, harimo intebe zifite amapine ndetse z'imisego.

Inzu yubatse mu mabara atandukanye, ifite amadirishya y'ibirahure. Imbere mu nzu hari umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse inyuma yayo hari abantu bahagaze iruhande rw'umuryango n'undi wegamye ku gikuta.

Umugore uhagaze ufashe ku ntebe ifite ibara ry'umutuku ndetse ukuboko kwe kw'iburyo gufashe ikaramu, yambaye ishati n'ipantaro bifite ibara ry'umweru, hari n'undi wicaye afite urupapuro imbere ye n'ikaramu mu ntoki ari kwandika.

Abantu bicaye ndetse hariru umukobwa uhagaze ufite ibisuko ku mutwe yambaye itaburo ifite ibara ry'umweru yifashe mu rukenyerero, imbere ye hari umuntu wunamye ibiganza bye yibifatishije ku meza ndetse hateretseho n'icupa.

Inyubako ifite ibaraza rinini yubakishije ibara ry'umweru ndetse isakarishije amabati afite ibara ry'ubururu, imbere yayo hicaye abantu ndetse hari n'amapave, hejuru handitse ikigo nderabuzima cya Shagasha.

Inyubako isakarishijeje amabati afite ibara rya kake kandi ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure. Iruhande rwayo hari itara ryo muhanda ndetse n'ubusitani burimo ibyatsi n'indabo.

Igitanda kiryamyeho umuntu ndetse yiyoroshe amashuka afite ibara ry'umweru, mu mutwe yambayemo agatambaro gafite ibara ry'umukara kandi hari inkuta zisize amarangi y'umweru, hejuru ye hari ibyuma byinshi bigiye bitandukanye.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite amadirishya n'amakosita ari hejuru, imbere yayo hari icyapa kandi hari n'abantu bicaye mu ibaraza ryayo hari umugore uheretse umwana n'undi wambaye ikote rifite ibara ry'umukara n'umweru imbere ye hagaze umwana.

Umugabo wambaye agapira k'amaguru magufi k'ubururu n'umukandara n'ipantaro y'umukara yatebeje ari kuzinga supnete imanitse hejuru y'umuntu uryamye ku gitanda gifite ibara ry'umweru kandi hirya ye hari ikindi gitanda ndetse hari n'indobo inyuma yabo hari ibikuta bisize irangi ry'umweru n'amadirishya.

Inzu igiye yometseho ibyapa bigiye bitandukanye ku nzugi zayo z'ibirahure, hari icyapa gishushanyijeho umukobwa wambaye amarinete ndetse hari n'ikindi cyanditseho amagambo y'icyongereza.

Icyumba kirimo igitanda gifite ibara ry'umukara inkuta zacyo zisize irangi ry'umweru ndetse n'iry'umukara ahagana hasi, harimo amarido ahamanitse afite ibara rya beje ndetse hejuru hari purafo ifite ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo umuganga ufite ibisuko ku mutwe, ari kugenda yambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, hirya hari abandi bahagaze bambaye udupfukamunwa ndetse n'amataburiya y'umweru, hejuru muri purafo harimo amatara ari kwaka umweru kandi hari n'inzugi z'ibirahure.

Icyumba kirimo ibitanda ndetse hari umugore wamba agapfukamunwa n'itaburiye y'amaboko magufi hari inkuta zifite ibara ry'umweru kandi hejuru muri parafo hari amatara yaka umweru.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse ndetse isakajeje amabati afite ibara ry'umutuku, isize amarangi y'ibara rya beje, ndetse ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure, imbere yayo hari abantu bahagaze ndetse n'imodoka ihaparitse kandi hari ubusitani.

umugabo wicaye yambaye ishati y'umweru irimo utudobo tw'umukara ndetse n'iko ry'umukara, mo imbere yambariyemo isengeri kandi iruhande rwe hari umuganga wamuteye urushinge ku kuboko kw'ibumoso kwambaye ga mu ntoki.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse, imbere yaho hari icyapa ndetse mo imbere harimo n'imodoka zihaparitse. Hari idorapo rifite ibara ry'ubururu, umutuku, umuhondo, umukara.

Inzu ifite igikuta cy'umweru ndetse n'ahandi hari igikuta gifite ibara ry'ivu, inzugi zacyo zifite ibirahuri, ndetse hari ivaze iteretsemo ururabo, ku gikuta hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru avuga ngo sipoti medesine senta.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse ifite amadirishya ndetse n'inzugi z'ibirahure, zifite amabara y'umweru, imbere yayo hari amadarapo atandukanye hari rimwe rifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi, irindi rifite umweru, hari ibyapa bitandukanye n'abantu bahagaze imbere y'iyo nyubako.

Umugabo wicaye ku ntebe y'icyatsi ifite amapine; yambaye itaburiya ndetse irimo n'ikaramu mu mufuka, yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, inyuma ye hari igikuta gisize irangi ry'umuhondo.

Umugore uryamye ku gitanda gifite ibara ry'umweru hariho n'amashuka y'ubururu, iruhande rwe hari umuganga wunamye aramufashe ku kuboko kw'iburyo, yambaye amarinete ndetse n'itaburiya y'umweru, hirya yabo hari igikuta gisize irangi ry'umuhondo.

Abantu bahagaze ku murongo, iruhande rwabo hari intebe zifite ibara ry'umukara ndetse n'urubaho. Hari umuntu uri mu kagare k'abafite ubumuga, kandi hari n'abandi bicaye, imbere yabo hari ameza ateguyeho igitambaro gifite ibara ry'umweru.

Inyubako yubatse kuburyo bugeretse isize amarangi atandukanye amadirishya yayo n'inzugi zayo bifite ibirahuri imbere yayo hari umuntu wicaye ndetse n'abandi bantu bahagaze hari imodoka igusohoka kuri porotaye n'izindi ziparitse.

Umuntu wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu mu biganza bye bifashe kuri mudasobwa iri imbere ye iteretse ku meza, hirya ye hari amadirishya y'ibirahure ndetse hariho amarido y'umweru.

Inyubako zubatse ku buryo bugeretse zisize amarange y'umweru, amadirishya ndetse n'inzugi zazo zifite ibirahure, hari ahubakishije amatafari ahiye ndetse imbere yaho hari urujya n'uruza rw'abantu.

Abagabo babiri bicaye harimo uwambaye amarinette ndetse n'undi wambaye udukomo ku kuboko kw'iburyo, imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umweru kandi inyuma yabo hari ahantu handitse ijambo irembo.

Inyubako yubakishije amabuye, ifite idirishya ry'ikirahure ndetse iruhande rwayo hari ibyatsi n'amayesikariye, imbere yayo hari abantu bahagaze harimo uwambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, ndetse n'uwambaye imyenda ifite ibara ry'umweru.

Inzu yubakishijeje amatafari ahiye ndetse ifite inzugi z'ibirahure, hejuru ku rugi hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, ari mu nyuguti ziri mu mabara atandukanye, harimo; ibara ry'umutuku, ubururu, umuhondo, icyatsi.

Inyubako isize amarangi y'umweru ndetse imbere hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru avuga ngo Nyarugenge district hospital . Imbere yayo hari ibyatsi byinshi ndetse hari n'akayira karimo amapave.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse ndetse isize amarangi arimo amabara atandukanye, ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure kandi imbere yayo hari amasikariye, ndetse hejuru hari ahanditse ijambo ryo mu rurimi rw'icyongereza ruvuga ngo tageti.

Icyumba gishushanyijeho ibishushanyo by'amoko atandukanye byometse ku bikuta, ndetse hari amatara ari muri purafo bifite ibara ry'umweru harimo igitanda kiriho umusego w'umweru, n'ishuka ifite ibara ry'ubururu harimo intebe irimo amapine y'ibara ry'umukara.

Umukecuru uteze agatambaro gafite ibara ry'umukara mu mutwe, yambaye ikanzu idodesheje mu gitenge. Imbere ye hari umuganga uhicaye, wambaye imyenda y'ubururu, kandi inyuma y'umukecuru hari ibase. Hirya yabo hari insina hamwe n'indabo.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse imbere yayo hari ibyapa bitandukanye kandi yubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi n'amaderishya by'ibirahure kandi hirya yayo hari igiti gifite amashami ndetse imbere yayo hari ibyatsi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse hari ahasize irange rifite ibara rya beje, hasakajije amabati y'ubururu, kandi mu ibaraza hari umugabo uhagaze wambaye itaburiya n'ipantaro y'umukara ifite inzugi n'amadirishya.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse isize amarangi agiye atandukanye harimo irangi ry'umweru ifite amadirishya n'inzugi ndetse hino ya'ho haparitse imodoka nyinshi zifite amabara atandukanye mo hagati hari umugabo uhagaze wambaye agapira k'amaboko gafite ibara ry'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Inyubako yubakishije amabara atandukanye, harimo ibara risa n'ivu ndetse imbere yaho hari intebe eshatu zifite ibara ry'umutuku ziteretse mu ibaraza, isakarishije amabati afite ibara ry'umutuku ndetse imbere yaho hari ibyapa n'ibiti bitandukanye.

Umukobwa ufite menshi ku mutwe, yambaye amarinete ndetse n'ihera ku gutwi kw'iburyo n'agapfukamunwa gafite ibara ry'umukara, yambaye itaburiya ifite amaboko maremare, y'ibara ry'umweru, imbere ye hari mudasobwa.

Umubyeyi ukikiye uruhinja rwambaye ingofero, imbere yabo hari umuganga wunamye ufashe uruhinja, yambaye amarinete ndetse n'iherena ku gutwi n'agapfukamunwa, mu mutwe yambaye agafire gafite ibara ry'ubururu, inyuma yaho hari igikuta cy'umweru.

Umuntu ucunga umutekano wambaye inkweto z'umukara ndetse n'ipantaro irimo ibara rya shokora n'akarongo karimo ibara rya orange. Yambaye ishati y'amaboko magufi ndetse hirya ye hari abantu bari kugenda n'imodoka zihaparitse. Hari inyubako isakarishije amabati afite ibara ry'umutuku.

Inzu yometseho icyapa hejuru kandi munsi yacyo harimo amakositara ndetse ifite amadirishya n'inzugi zisize irangi ry'ubururu. Mu ibaraza ryayo hahagazemo umuntu wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru, ndetse imbere yayo hari umumotari uri kuri moto.

Icyumba gifite inkuta ndetse na parafo bifite ibara ry'umweru, igitanda kirimo gifite amapine n'i ibara ry'umweru, ndetse ikiringiti n'umusego biri kuri icyo gitanda bifite ibara rya kaki.

Umwana bashyize mu munzani umanitse hejuru iruhande rwe hari umugore wambaye ishati ifite ibipesu y'ibara ry'umweru kandi hari n'undi uri inyuma ye wicaye yambaye iherena ku gutwi kandi ateze agatambaro gafite ibara ry'umukara mu mutwe.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse isakarishije amabati afite ibara ry'ubururu isize irangi ry'umweru kandi ifite amadirishya n'inzugi zirimo giliyaje ndetse n'ibirahure imbere yayo hari amagambo yanditse avuga ngo ikigo nderabuzima cya kanyinya kandi hari idarapo rihagaze imbere yayo.

Abantu bambaye amashati y'amaboko maremare, afite ibara ry'umweru, hari umugabo wambaye inkweto z'umweru n'ipantaro y'umukara, ndetse imbere yabo hari ibyuma bibakikije biri no hejuru yawo, hari inzu ifite amabara atandukanye harimo umweru, ubururu.

Inzu ifite amakositara ndetse munsi yayo hari idirishya rifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibirahure; iruhande rw'idirishya hari icyapa cyometse ku gikuta; hejuru hari itara ndetse mu ibaraza ry'iyo nzu, hari umuntu uhahagaze wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru; imbere yaho hari ibyatsi.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse isize irangi ry'umweru, kandi hari n'ahubakishije amatafari ahiye ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure kandi imbere yayo hari imodoka ihaparitse inyuma y'igipangu hari icyapa, ndetse n'ibyatsi n'ibiti.

Igipangu gisize amarangi y'ubwoko butandukanye, hari ahari irangi risa n'ivu ndetse n'ahari irangi rya beje, inyuma yayo hari ibyapa bibiri bitandukanye, kimwe cyiyegamyeho ikindi kiri hino y'umuhanda, hirya hari ibiti n'indabo.

Inyubako zisize amarangi atandukanye kandi zifite amadirishya n'inzugi, hagati yazo hari ubusitani burimo indabo ndetse n'igiti kinini gihagazemo. Kandi mu busitani hagiye harimo utuyira ndetse hanarimo icyapa gifite amabara atandukanye.

Umugabo wicaye atandaraje, yambaye isengeri n'ikabutura afite ibara ry'umukara ndetse ku kuboko kwe kw'imoso yafatishije munsi y'urukweto, yambayeho isaha, ukuboko kw'iburyo yagufatishije ku kuguru kw'ibumoso.

Umuntu uryamye wahuje ibiganza yambaye ikabutura ifite ibara ry'umukara irimo uturongo tw'ubururu n'umweru ndetse yambaye n'amasogisi, ukuguru kwe kw'ibumoso yakuzamuye agushyira ku rutugu rw'umuntu wambaye isaha ndetse hirya yabo hari inzugi z'ibirahuri.

Igare ry'abafite ubumuga, ririho amapine ane: abiri y'imbere n'abiri y'inyuma, kandi hariho ibyuma bisize irange ry'umutuku. Aho bicara ku ntebe hariho ibara ry'umukara.

Ibikapu bitatu bisa bifite imashini ndetse kimwe muri byo kirafunze ibindi bibiri birafunguye, hari igifitemo umukasi ndetse n'utundi dukoresho dutandukanye.

Umuntu uryamye amaboko yombi yayahuje ari ku inda ukuguru kw'ibumoso yakuzamuye gufashwe n'umuganga wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu umuhagaze iruhande ndetse ukw'iburyo arakurambuye.

Umuntu wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umukara, ibiganza bye biziritseho agatambaro gafite ibara ry'umuhondo ari gukurura, iruhande rwe hari umuganga wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu.

Abantu bicaye bafite impapuro n'amakaramu bari kwandika, imbere yabo hari umugabo uhahagaze wambaye itaburiya, ifite ibara ry'umweru, ipantaro y'umukara, kandi icyo cyumba barimo gifite amakaro.

Inkweto z'umukara ziri hasi ndetse zifite intoboro zigiye ziciyemo amarasi afite ibara ry'umukara, urukweto rw'iburyo ruriho ikirango cyanditseho bato gifite ibara ry'umweru amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umukara.

Umukobwa uhagaze wambaye besitiri na kora bifite ibara ry'umukara ndetse yambaye iherena ku gutwi kw'ibumoso kandi ari kunywera mu gacupa gafite ibara ry'umweru afashe mu kiganza cy'iburyo.

Umuganga wambaye ga n'itaburiya bifite ibara ry'umweru hirya ye hari igikuta gisize irangi ry'mweru, ndetse ahagana hasi hari irisa umukara, hari kizimyamoto yometse ku gikuta.

Umuntu wicaye mu musego, ukuboko kwe kw'iburyo ndetse n'ukw'ibumoso bifashe ku gipfuko kiri hafi y'ivi, yambaye umupira udoze mu budodo, w'amaboko maremare, ufite ibara rya oranje.

Umukobwa ufite imisatsi miremire yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya piki, mu kuboko kwe kw'ibumoso yafashemo icupa ry'amazi ari kunywa yambaye kuteri mu matwi zifite ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'icyatsi ndetse n'ikabutura y'umukara, ivi rye ryo ku kuguru kw'iburyo arayipfukamishije ndetse ukw'ibumoso agushyira imbere, hirya yabo hari idirishya rifite ibirahuri.

Umuntu wambaye shanete mu ijosi ndetse n'isengeri ifite ibara ry'ubururu, umweru, icyatsi n'umukara, mu kiganza cy'iburyo afashemo agacupa gafite amabara abiri, iry'umweru , niry'ubururu afite agatambaro yanyujije mu bitugu ndetse gafite ibara ry'umweru.

Umuntu uri gutera pompaje ari guseka, yambaye isengeri ifite ibara ry'umweru kandi iruhande rwe hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza hari imbuto z'amoko atandukanye, harimo pome ifite ibara ry'umutuku, imineke.

Imbuto n'imboga z'amoko atandukanye harimo avoka, pome ndetse n'insenda, hari n'icunga rifite ibara rya orange ndetse mu mboga harimo broccoli n'icupa riteretse rifite umumfundikizo w'umweru n'umukara.

Umuntu wambaye agapira gafite ibara ry'icyatsi k'amaboko magufi mu kiganza cye cy'ibumoso afashemo ballon yanditseho umubare kane mu ibara ry'umukara ndetse hariho ibara ry'ubururu n'irindi risa n'ivu.

Umuntu wapfukamishije amavi kuri tapi yarambuye ifite ibara risa n'ivu, yambaye isengeri n'ikabutura ifite ibara ry'umukara, amaboko ye yayirambuye kandi hirya ye hari intebe z'imisego, inyuma ye hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Inkeri ziri mu moko atandukanye, hari izifite ibara ry'umukara ndetse n'izifite ibara ry'umutuku. Hari ikirahure kirimo ji y'umuhondo ndetse na teyi ifite ibara ry'icyatsi. Hari igikombe kirimo amazi ndetse hari na metero iri mu ibara ry'umuhondo, hariho imibare yandikishije ibara ry'umukara.

Umukobwa ufite ibisuko ku mutwe yafungiye hejuru mu gutwi kwe kw'ibumoso yambayemo ekuteri ifite ibara ry'umweru, kandi yazamuye amaboko ukw'ibumoso akunyuza hejuru y'umutwe kandi ukw'iburyo agushyira inyuma mu bitugu.

Umuntu wicaye mu muhanda yambaye inkweto zifite ibara ry'umweru ndetse na kora y'umukara n'agasengeri kagufi k'ibara ry'umukara, amaboko ye yayarambuye, yayakojeje ku ru kweto yambaye ku kuguru kw'iburyo, kandi ukuguru kw'ibumoso yaguhinye.

Umuntu uri muri siporo yarambuye tapi ku makaro ndetse ukugurukwe kw'ibumoso agushyira imbere u kw'iburyo kurambura inyuma afite imisatsi myinshi yambaye bisitiri ndetse na kora inyuma ye hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye isize irangi ry'umweru ndetse n'idirishya

Umuntu wahinnye ukuboko kw'iburyo ndetse afatishaho ikiganza cyo kuboko kw'ibumoso kiriho impeta ndetse hari agatambaro yarambitse ku kuboko ahagana mu nkokora kariho ibara ry'icyatsi.

Umugabo uryamye, yambaye umupira ufite ibara ry'umweru n'ikabutura y'icyatsi, yahinnye ukuguru kw'iburyo, kandi hari umuganga umwegereye wambaye ishati y'amaboko magufi, ifite ibara ry'ubururu, amufashe ku kuguru kw'iburyo.

Umuntu wicaye ndetse yarambuye ukuguru, yambaye kola imufashe, ifite ibara ry'umukara n'umupira ufite ibara ry'umutuku, ukuguru kwe ya gufashweho n'umuganga umuhagaze iruhande, wambaye taburiya y'umweru ndetse n'isaha ku kuboko kw'iburyo.

Umukobwa wicaye yahinnye ukuguru kw'iburyo ikiganza cye cy'iburyo yagifatishije ku ivi ryo ku kuguru kw'ibumoso ndetse n'ukuboko kw'ibumoso yakurambiwe gufatisha ku mano, yambaye bisitiri ifite ibara ry'umweru inyuma ye hari intebe zifite ibara ry'umweru.

Umuganga uhagaze yambaye itabu y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru, kandi mo imbere yambariyemo ishati hamwe na karuvati ifite amabara atandukanye, harimo ibara ry'ubururu ndetse n'ibara rya beje n'ayandi.

Umuntu wicaye mu ntebe ifite ibara ry'ubururu n'umweru yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse n'ipantaro kandi iruhande rwe hari umuganga wambaye itaburiya y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru ndetse n'inkweto z'umukara hamwe n'ipantaro, hari amakaro ndetse ibikuta bisize irange ry'umweru.

Umugabo ufite ubwanwa, yambaye isengeri ifite ibara ry'icyatsi ndetse ku kuboko kw'ibumoso yambayeho agatambaro gafite ibara rya move. Ibiganza bye byose n'amaboko yabizamuye abifatisha icupa ry'amazi ari kwimenaho mu maso.

Igare ry'abafite ubumuga rifite amapine abiri y'inyuma manini n'utundi tubiri duto tw'imbere, rifite ibara ry'ubururu n'umukara ndetse riri ahantu hari ibara ry'umweru.

Umugabo ufite ubwanwa mu kuboko kwe kw'iburyo afashe mO icupa arikunywa kandi yambaye sheneti mu ijosi, yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu.

Umuntu wicaye ku buriri yambaye imyenda y'imikara harimo agakabutura kariho uturongo tw'umweru, ukuguru kwe kw'ibumoso yambayeho inkweto ndetse n'amasogisi, ukw'iburyo hari umuganga umuri iruhande uri kuzirikaho agatambaro gafite ibara ry'umweru.

Umugabo ufite ubwanwa kandi yambaye agapira gafite ibara risa n'ivu k'amaboko magufi, ari kunywera mu icupa rifite ibara ry'ubururu afashe mu kiganza cyo ku kuboko kw'ibumoso.

Umuntu ufite ibisuko by'umukara ku mutwe yafungiye inyuma akoresha akabano gafite ibara rya orange imbere hari agatambaro k'umukara yazengurukije ku mutwe yazamuye amaboko ibiganza abifatanyiriza hejuru.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi, gafite ibara ry'ivu, ndetse na ekuteri mu matwi zifite ibara ry'umweru, afite agacupa k'amazi ari kunywa mu kiganza cye, cyo ku kuboko kw'ibumoso.

Umugabo wicaye yambaye ishati y'amaboko magufi, yarambuye ukuboko kwe kw'ibumoso, ndetse iruhande rwe hari umuntu umufatishijeho ibiganza byombi ku kuboko kw'ibumoso. Yambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru hirya yabo hari igitanda.

Umugabo uhinnye ukuguru kw’ ibumuso arasutamye, yambaye ikabutura ifite ibara ry’ ivu. Ukuguru kwe kw’iburyo n’ ukubono kw’ iburyo yabirambuye ndetse yambaye n’ nkweto zifite ibara ry’ umutuku munsi.

Umugabo usutamye yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse n'ipantaro biri mu ibara ry'umweru, imbere ye hari undi uhahagaze wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu kandi bari kuri tapi ifite ibara ry'icyatsi irimo n'uturongo tw'umweru.

Umuntu wambaye agapira gafite ibara ry'umweru k'amaboko magufi ndetse ukuboko kwe ku ibumoso gufashe ku kuboko ku iburyo yarambuye, kuriho agatambaro gafite ibara ry'ubururu n'umweru, inkokora ye yo ku kuboko ku ibumoso ishinze ku kuguru ku ibumoso.

Umuntu wunamye ibiganza bye byombi bifashe ku ivi ry'ukuguru kw'ibumoso, yambaye agakabutura gafite ibara ry'umukara n'isaha ku kuboko kw'ibumoso ifite ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi gasa n'ivu, ndetse yambaye ekuteri mu matwi zifite ibara ry'umweru, mu ijosi yambayemo agashaneti, mu kuboko kw'iburyo, afashemo agacupa k'amazi ari kunywa.

Umugabo wambaye isengeri ifite ibara ry'iva ku maboko hari uturongo tw'umukara araramye ari kunywa amazi areba mu icupa rifite umupfundikizo w'umukara ndetse iryo cupa rirasa umweru arifashe mu kuboko kw'iburyo.

Umugabo ufite icupa ry'amazi mu kiganza cye cy'iburyo ririho ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, afite ubwanwa arararamye ndetse yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umukara. Hari agatambaro gafite ibara ry'umweru yanyujije mu bitugu.

Icyumba kirimo intebe zifite amapine n'ibara ry'umweru, harimo vandarateri hejuru ndetse gifite ibikuta bifite ibara ry'umweru, n'amadirishya n'inzugi bifite ibirahure.

Umuntu wambaye ibara ry'umweru na kora y'umukara irimo akarongo k'umweru, ku kiganza cye cy'iburyo yambayeho impeta ndetse no ku kuboko yambayeho agakomo. Ibiganza bye byose yabifatishije ahegereye ivi.

Abantu bari kwiruka bambaye imyenda itandukanye ndetse bari kwirukira mu muhanda urimo kaburimbo, urimo n'imirongo y'umweru yihese, hirya yabo hari ibyatsi kandi harimo abazamuye ukuguru kw'iburyo, ukw'ibumoso kuri hasi ndetse n'abazamuye ukw'ibumoso ukw'iburyo kuri hasi.

Umukobwa uri kwinanura, yicaye ku buriri buriho ikiringiti n'imisego bifite ibara ry'ivu, ari kwinanura, yambaye kora na bisitiri bifite ibara ry'umukara. Ku kuboko kwe kw'ibumoso yambayeho agakomo.

Umuntu wicaye mu byatsi yambaye bisiteri ngufi ndetse n'ikabutura irimo uturongo tw'umweru, yarambuye amaguru kandi arunamye, amaboko ye yayafatishije ku nkweto.

Umugabo wambaye isengeri ifite ibara ry'icyatsi ndetse yazamuye amaboko mu biganza afitemo icupa ry'amazi ari kumena mu maso ku kuboko kw'ibumoso yambayeho agatambaro gafite ibara rya move.

Abantu babiri, bateruye umuntu mu biganza bambaye udukote tw'amaboko magufi, dufite ibara ry'umutuku n'udupira mo imbere tw'amaboko magufi dufite ibara ry'umweru, umuntu bateruye yambaye agapira kanditseho umubare gatatu, gafite ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo. Inyuma yaho hari abandi bahagaze n'ibiti.

Umukobwa wicaye kuri tapi ifite ibara ry'ivu yahinnye ukuguru kw'iburyo kw'ibumoso arakurambura yambaye bistle ndetse na cola bifite ibara ry'umweru kandi inkokora yo ku kuboko kw'ibumoso yayishinze.

Umuntu uteruye aritere yambaye agapira gafite ibara ry'umukara k'amaboko magufi, ukuboko kwe kw'iburyo, hariho udukomo dufite ibara ry'umukara tubiri, ndetse no ku kuboko kw'ibumoso yambayeho agakomo kamwe.

Umukobwa wambaye bisitiri na kola ndetse yarambuye amaboko n'amaguru, afite umusatsi mwinshi muremure kandi yicaye ahantu hari ibara ry'umweru, igikuta kiri hirya ye nacyo gifite ibara ry'umweru.

Umugabo ufite icupa ari kunywa rifite ibara ry'ubururu mu kuboko kw'ibumoso, yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu, ndetse na ekuteri zifite umugozi w'umweru mu kuboko kw'iburyo yambayeho agatambaro gafite ibara ry'umweru.

Abantu bari gukora siporo ahantu hari amapave, harimo umugore wambaye inkweto zifite ibara ry'ubururu n'umweru, yambaye kora ifite ibara ry'umukara hamwe n'agasengeri kandi hirya yabo hari ibiti byinshi by'amoko atandukanye.

Umuntu wicaye ku kiringiti cya rufuku kirambuye ku makaro, ndetse hari uwamwiyegamije wambaye ijiri ifite ibara ry'umutuku yamufashe ku kananwa. Inyuma yabo hari abantu bahahagaze bambaye amajiri afite ibara ry'umweru ndetse harimo n'umutuku.

Abantu bahagaze mu kibuga, harimo uwambaye agapira gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'ikabutura y'umukara n'inkweto z'umukara, hari n'undi ufite baro mu ntoki yambaye ikabutura irimo akabara k'umweru.

Abantu bari mu muhanda bafite amacupa mu ntoki zabo, ndetse hari uwambaye agasengeri gafite ibara ry'ubururu n'ikabutura ngufi ifite ibara ry'umukara, ku kuboko kw'ibumoso yambayeho isaha, ndetse hari mugenzi we begeranye uri hirya ye wambaye ikabutura y'umukara irimo n'akabara k'icyatsi.

Umuntu uryamye ku gitanda, yubitse inda ndetse yoroshe ishuka ifite ibara ry'umweru, iruhande rwe hari umuganga wambaye agapfukamunwa n'umupira ufite amaboko magufi kandi inyuma yabo hari amarido afite ibara ry'ubururu.

Umuntu wambaye ikabutura n'isengero bifite ibara ry'umukara yicaye ku buriri, ukuguru kwe kw'ibumoso yambayeho isogisi n'urukweto, uk'iburyo, yakurambuye gufashwe n'umuntu wicaye imbere ye ari kuzingiraho agatambaro.

Umuntu wambaye ikabutura ifite ibara ry'umukara ndetse n'agapira k'amaboko magufi, yifashe mu rukenyerero ndetse ukuboko kwe kw'iburyo yakurambuye agushyira ku rukweto yambaye uku ukuguru kw'ibumoso yarambuye ku cyuma.

Abana bahagaze mu kibuga bari gufana, hari uwafunze ingumi yazamuye ukuboko kwe kw'iburyo, ndetse hari undi wambaye isengeri y'umukara, inyuma ye hari umufashe ku ntugu, hari umwana ufite baro yayizamuye hejuru ndetse n'undi uri gukoma mu mashyi.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi ndetse yambaye ipantaro yayihinye yicaye ku gitanda. Imbere ye hari umuganga wambaye ishati ifite ibara ry'umweru ndetse n'isaha ku kuboko kw'iburyo yazengurukije k'ukuguru ndetse n'ikirenge by'uwo mugabo ho agatambaro gafite ibara ry'ubururu.

Umugore wambaye agapfukamunwa, yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso ndetse n'impeta, afite inzara zisize verine y'umutuku kandi mu bitugu bye ahetsemo igikapu gifite umushumi, iruhande rwe hari undi muntu wambaye imyenda irimo ibara ry'umuhondo, umweru, inyuma yabo hari tapi.

Umuntu wasobekeranije amaguru, yicaye kuri tapi ifite ibara ry'ivu. Imbere ye hari mudasobwa ndetse hirya ye hari icupa yambaye bisitiri ifite ibara ry'umukara yazamuye amaboko.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko uriho imashini imbere ndetse afite ubwanwa, mu kuboko kwe kw'ibumoso afashemo icupa ari kunywa ndetse inyuma ye hari ibara ry'umweru.

Umukobwa wafungiye imisatsi hejuru, yambaye bisitiri ngufi ndetse na kola yicaye mu muhanda. Mu matwi ye harimo ekuteli kandi iruhande rwe hari icupa ry’ umweru, inyuma ye hari ibyatsi ndetse yambaye n’ inkweto z’ umweru.

Umugabo wicaye mu ntebe z'imisego kandi zifite ibara ry'umweru yambara agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ivu ndetse afite ubwoya ku maboko, ukuboko kwe ku ibumoso yagushikamishije ku kuguru kandi uk'iburyo arakurambura arambikaho agatambaro yafatishije ikiganza cy'ibumoso gafite ibara ry'ubururu.

Udukarito turi m’ amabara atandukanye harimo agafite ibara ry'ubururu, karimo amagambo yandikishije ibara ry'umweru, hari inanasi iri inyuma yatwo kandi hari n'imineke iri ku ruhande rw'ibumoso, ku ruhande rw'iburyo hari ururabo rufite indabyo z'umuhondo.

Tangawizi zikase ziri ku murongo kandi zigerekeranye m’imbere zifite ibara rya bege, inyuma zifite ibara rya kaki. Hari n’izindi zidakase zigerekeranye.

Icupa ry'umuhondo rifite umupfundikizo ufite ibara rya shokora ndetse n'icupa ry'umweru rifite umupfundikizo ufite ibara ry'umutuku hari igikakarubamba ndetse n'udutibe dufite ibara ry'umweru.

Abantu bahetse ibikapu biri mu ibara ry'ubururu, umutuku, umukara, umuhondo. Bari ahantu hakikijwe n'amabuye ndetse n'ibihuru byinshi, imbere yabo hari amazi ari guturuka ku musozi.

Utujekani dutatu dufite amabara atandukanye, hari agafite ibara ry'umuhondo gapfundikije umupfundikizo ufite ibara rya shokora ndetse n'agafite ibara ry'umweru gapfundikije umupfundikizo ufite ibara ry'ubururu.

Amacupa y'umuhondo ashushanyijeho igikakarubamba hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza yandikishije ibara rya shokora, imipfundikizo y'ayo macupa nayo ifite ibara rya shokora, hari ari mu ikarito ndetse n'irindi rimwe riri inyuma y'ikarito.

Icupa ry'umweru ripfundikiye. Inyuma yaryo hari igipapuro kiri mu ibara ry'umuhondo, kiriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza kandi yandikishije ibara rya shokora. Iruhande rwaryo hari igikakarubamba gifite ibara ry'icyatsi.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, yambaye itaburiya y'amaboko magufi, ifite ibara ry'ubururu ku kuboko ndetse yambaye agapfukamunwa n'agafire gafite ibara ry'ubururu, imbere ye hari ameza ateretseho imiti itandukanye ndetse n'udukarito dufite ibara ry'umuhondo n'umutuku.

Icupa ririho amagambo yandikishije ibara rya shokora ndetse yanditse mu rurimi rw'icyongereza, hashushanyijeho uruyuki, munsi yarwo hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ndetse hariho n'ibara ry'umuhondo n'umweru.

Umugore ufite ishakoshi ifite ibara rya kake n'imishumi yashyize ku kuboko kw'ibumoso ukuboko kwe kw'iburyo yagufatishije ku byatsi ndetse imbere ye hari insina ifite amakoma agatambaro k'umweru yakifubitse.

Uducupa tw'amoko atandukanye ndetse n'udukarito dufite amabara atandukanye, harimo umuhondo, icyatsi n'ayandi biteretse ku makaro ndetse inyuma yabyo hari igikuta gifite ibara ry'umweru, ahagana hasi, gisize irange ry'umukara.

Abantu bahagaze mu byatsi n'ibiti by'amoko atandukanye, harimo umugore wafatanyije ibiganza, ateze agatambaro mu mutwe kandi hari n'umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse n'agapira gafite ibara ry'umutuku.

Igiti cy'umuravumba gifite amababi menshi afite ibara ry'icyatsi, giteye mu gipangu cyubakishije amatafari ahiye, inyuma y'icyo gipangu hari insina nyinshi ndetse zifite amakoma menshi.

Ameza ateretseho uducupa tw'amoko menshi atandukanye, hari udupfundikishije ibara ry'umweru ndetse hari n'udupfundikishije ibara ry'umutuku, hari umugore uteze agatambaro mu mutwe ndetse n'umugabo uri imbere ye, bose bashikamye kuri ayo meza.

Amacupa atandukanye yose ariho icyapa gifite ibara ry'umweru n'icyatsi, harimo ifite ibara rya shokora ndetse n'irindi ifite ibara ry'umukara n'umufundikizo ufite ibara ry'icyatsi hari icupa rifite ibara ry'umweru n'ibara ry'umutuku.

Uducupa dufite amabara atandukanye kandi tudateye kimwe gusa dufite ibirango bisa, hari agafite umupfundikizo wa shokora ndetse kariho umweru, hari n'akandi gafite umupfundikizo w'icyatsi ndetse n'akandi gasa umutuku.

Akajerekani gateretse ahantu hasa umweru, gafite umukondo, kandi gafungije umuvundikizo ufite ibara ry'umutuku, ndetse hari n'amagambo yanditse inyuma yako, ari mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu bari kugenda bahetse ibikapu by'amabara atandukanye harimo icy'umutuku, ubururu, umukara ndetse n'umuhondo. Imbere yabo hari amazi ari kuva ku musozi ndetse bakikijwe n'ibihuru byinshi hamwe n'amabuye.

Ibyatsi bitandukanye, harimo icya kapusinie gifite ibara ry'icyatsi ndetse cyagiye cyera uturabo tw'amoko atandukanye, harimo ibara ry'umuhondo ndetse na oranje, iruhande rwaryo hari igiti gifite ururabo rufite ibara ry'umweru n'umuhondo.